Abana b'abahungu bari mu cyumba cy'ishuri kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu burezi, bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza, abo bana barishimye kuko bafite ubuzima bwiza.

Umwana ukiri muto w'umuhungu, uhagaze imbere y'ivomero rusange rifite amariba abiri, ku iriba rimwe hateretseho igikoresho cyifashishwa mu kuvoma amazi ndetse uwo mwana ari kunywa amazi, inyuma hubatse inyubako ndetse hateye n'ibiti n'ibyatsi.

Icyapa kigaragaza umwana ukiri muto wambaye agapira k'amaboko maremare, afite isahani mu ntoki ari kumwe n'umubyeyi uteze igitambaro mu mutwe yambaye umupira w'amaboko magufi, inyuma yabo hari inyubako.

Umwana w'umuhungu ukiri mutoya uri ku ivomo rifite amariba abiri, ku iriba rimwe hateretseho igikoresho cyifashishwa mu kuvoma kizwi nk'indobo, uwo mwana ari kunywa amazi adatetse. Inyuma ye hateye ibiti ndetse n'ibyatsi ndetse hari n'inzu.

Abana babiri b'abahungu bakiri bato bafite ibikoresho byifashishwa mu kuvoma bizwi nk'indobo. Baje ku ivomera kuvoma amazi. Inyuma yabo hateye ibyatsi.

Inzu irimo ameza ndetse n'ibindi bikoresho harimo n'abaganga bambaye impuzankano zifashishwa mu mwuga w'ubuvuzi, bari gukingira abaturage bambaye udupfuka munwa.

Abana benshi bigaragara ko bari ku ishuri, bari ku murongo bari kuvoma amazi mu bikombe asukuye bayakura mu bikoresho byabugenewe byifashishwa mu kuyungurura amazi.

Abantu bari kumwe bicaye ku ntebe imbere y'inzu, umwe muri bo w'igitsina gore ateruye umwana ukiri muto ari kumwe n'undi w'igitsina gabo uri kumuvura kugira ngo agire ubuzima bwiza, uwo mwana yari yahuye n'ikibazo cy'uburwayi.

Icyumba gitangirwamo ubuvuzi kirimo umubyeyi ufite umwana urwaye ndetse n'abaganga bambaye impuzankano zabugenewe bari gukurikirana ubuzima bw'uwo mwana kugira ngo bamuvure abashe kumera neza.

Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda muganga sabin Nsanzimana n'amagambo yavuze ubwo yari arikugaruka ku ndwara iboneka mu Rwanda ya kanseri y'inkondo y'umura ifata abagore.

Abantu benshi b'igitsina gabo n'abigitsina gore bahagaze bari kumwe, bambaye imyambaro isa. Inyuma yabo hari inzu nini ifite amadirishya, iruhande rwayo hateye ibyatsi ndetse n'indabo.

Igikoresho gifite amabara y'umukara ndetse n'ubururu, cyifashishwa mu gutanga ubuvuzi mu gihe umuntu yabuze umwuka, kikaba cyamwongerera umwuka akabasha guhumeka.

Abantu bari kumwe, harimo abana ndetse n'abakuru, bari ku ivomero rusange, bafite ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvoma, bari kubivomeramo amazi, iruhande rwabo hateye ibiti ndetse n'ibimera by'ubwoko butandukanye.

Abantu b'igitsina gabo n'igitsina gore bari kumwe bahagaze mu nzu imaze kuberamo inama ku bijyanye n'ubuzima, muri bo harimo minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Rwanda uzwi nka Eduward Ngirente ndetse n'abandi.

Umurwayi w'igitsina gore wambaye igitambaro mu mutwe, wicaye ku gitanda cy'abarwayi ari kumwe n'umuganga w'igitsina gore wambaye impuzankano yabugenewe ndetse n'indorerwamo z'amaso, afite igikoresho kifashishwa mu gusuzuma abarwayi ndetse ari kumuvura.

Abantu batatu b'igitsina gore, bambaye udupfukamunwa, bafite ibikoresho byifashishwa mu kuvoma. Bari imbere y'ivomero rifite amariba abiri. Umwe arahagaze, undi ari kunywa amazi, undi ari gukaraba intoki. Inyuma yabo hateye ibiti.

Abantu benshi bari kumwe, bicaye ku ntebe, imbere yabo hari amacupa arimo amazi yo kunywa, harimo n'abafite mudasobwa. Imbere yabo hari abantu bahicaye bayoboye inama, harimo n'umuyobozi mukuru w'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuzima. Ari gutanga ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima mu Rwanda.

Abana benshi bakiri bato b'abahungu n'abakobwa, bahagaze imbere y'ivomero, bari gushaka bose gukaraba intoki kugira ngo bagire ubuzima bwiza, birinde indwara zitandukanye zishobora guturuka ku kugira umwanda.

Abana babiri b'abahungu, bakiri bato, badafite imisatsi, bicaye imbere y'ivomero rusange bari gukaraba intoki, kugirango babashe kwirinda indwara zitandukanye zituruka ku myanda. Inyuma yabo, hateye ibiti ndetse n'ibimera byumye.

Abantu benshi b'igitsina gore bari mu nzu imanitsemo amashusho menshi ku nkuta ndetse harimo n'ameza n'intebe, bigaragara ko bizihiwe bari kubyina imbyino nyarwanda nyuma yo guhabwa inama ku bijyanye n'ubuzima.

Umwana ukiri muto w'umukobwa ufite imisatsi y'umukara migufi uri imbere y'ivomero riteretseho igikoresho cyifashishwa mu kuvoma ari gukaraba intoki, inyuma ye hari inyubako yubakishije amatafari.

Abana babiri bakiri bato, bari kumwe n'umubyeyi wambaye umupira w'amaboko magufi ,akenyeye igitenge ndetse ateze igitambaro, yikoreye injerekani irimo amazi, imbere yabo hari inzu ifite amabati ndetse n'igipangu ndetse n'iruhande rwabo hateye ibigori.

Abana bakiri bato, biga mu mashuri y'inshuke, bambaye impuzankano bari kumwe n'umurezi wabo, imbere yabo hari abayobozi batandukanye baje kubasura, kugira ngo barebe uko ubuzima bwabo bumeze.

Abana bakiri bato bahagaze imbere y'ivomero, bambaye impuzankano y'abanyeshuri, bari gukaraba intoki, ibi bibafasha kwirinda umwanda bityo bakagira ubuzima bwiza buzira indwara zitandukanye.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye ishati y'amaboko maremare, ipantaro n'inkweto. Ari gukaraba intoki yifashishije igikoresho cyabugenewe. Inyuma ye hari inzu ndetse hateye indabo n'ibiti.

Umwana w'umukobwa wambaye impuzankano y'abanyeshuri, uhagaze imbere y'ubwogero ari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Ibi bimufasha kwirinda umwanda bityo akagira ubuzima bwiza buzira indwara.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru icyatsi kibisi n'ubururu cyerekana ijanisha ku buringanire n'ubwuzuzanye kuva mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani, bibiri na cumi nicyenda, bibiri na makumyabiri kugeza muri bibiri na makumyabiri na rimwe.

Umubyeyi wambaye ingofero mu mutwe n'umupira w'amaboko maremare, akenyeye n'igitenge, ari ku ivomo rusange ari kuvoma amazi mu gikoresho cyagenewe kuvoma, munsi hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, avuga ku bijyanye n'amazi meza n'isuku mu Rwanda.

Abantu benshi bari kumwe harimo ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, bicaye ku ntebe bambaye imipirasa y'ibara ry'umweru y'amaboko magufi bategereje guhabwa ubuvuzi.

Igikoresho kinini gifite ishusho y'uruziga kirimo amazi menshi, kifashishwa mu kubika amazi akorwamo ingufu z'amashanyarazi, agahabwa abaturage baturiye icyo gice, iruhande rwacyo hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Abantu benshi cyane bari kumwe ahantu hamwe harimo ab'igitsina gabo na b'igitsina gore ndetse n'abahetse abana, bari gukorerwa ibikorwa by'ubuvuzi ndetse banaganirizwa ku bijyanye no kugira ubuzima bwiza.

Umuganga w'igitsina gore wambaye impuzankano yabugenewe, inyuma ye hari ameza ateretseho imiti itandukanye, ari kumwe n'umubyeyi uteruye umwana ukiri muto. Uwo muganga ari gukingira uwo mwana muto indwara ndetse ari kumwe n'abandi baganga bari kumufasha.

Abantu bari kumwe mu nzu, bicaye ku ntebe, imbere yabo hari amazi yo kunywa. Umwe muri bo afite indangururamajwi, ari gutanga ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima, mu gihugu cya sudani y'amajyepfo.

Abantu benshi bari kumwe b'igitsina gabo n'igitsina gore bambaye impuzankano y'abaganga, barishimye bari gukomera amashyi umuntu w'umunyamahanga wambaye indorerwamo z'amaso. Inyuma yabo hari inzu ikoreramo ikigo nderabuzima cya mayange, iruhande rwayo hateye ibiti.

Umuhanzi w'igitsina gabo uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, uzwi ku mazina ya Israel Mbonyi wambaye indorerwamo z'amaso, yambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo usa n'icunga rihishije, ari kumwe n'umubyeyi ufite umwana, uwo muhanzi ari kugaburira uwo mwana.

Abantu benshi harimo n'abana bato bari iruhande rw'ivomero bafite ibikoresho byifashishwa mu kuvoma amazi bari kumwe n'umuntu uri kubafasha kugira ngo babashe gukura ayo mazi aho ari bayavome muri ibyo bikoresho bitwaje.

Abana bakiri bato, bahagaze bari kumwe n'umuntu mukuru, ufite igikombe mu ntoki kirimo amazi ari kubasukira, kugira ngo bakarabe intoki bagire isuku, birinde umwanda ndetse n'indwara ziwukomokaho.

Umuntu w'igitsina gabo ufite imisatsi y'umukara migufi wambaye impuzankano y'abaganga ndetse n'ibindi bikoresho byabugenewe ari kumwe n'abarwayi ari kubahereza urukingo inyuma ye hari umukorerabushake.

Abantu babiri b'igitsina gabo harimo umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, muganga Sabin Nsanzimana ari kumwe n'undi muyobozi ari kumushimira nyuma y'uko igihugu cy'u Rwanda cyatsinze indwara y'icyorezo ya mariboruge.

Ivomero rusange riri hepfo y'akayira kari kunyuramo abana bagiye ku ishuri. Kuri iryo vomero hari abana babiri umwe ufite akajerekani ari kuvoma amazi meza hirya y'aho hari umusozi ndetse hateye n'ibiti hari n'inyubako zo guturamo.

Icyumba kirimo abantu harimo abana ndetse n'abakuze, abo bana bambaye imipira harimo ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, bari kumwe n'umunyamahanga bicaye hasi, bari kuganirizwa ku bijyanye n'ubuzima.

Umubyeyi wambaye igitambaro mu mutwe n'indorerwamo z'amaso ari kumwe n'abana b'abanyeshuri bishimye, bigaragara ko bari guhabwa serivisi zijyanye n'ubuzima.

Abantu benshi bari mu nzu ikorerwamo inama bamwe bari imbere bayoboye inama bari kuganira ku bijyanye n'ibyubuzima abandi bicaye mu ntebe zabugenewe bakurikiye abayoboye inama.

Abantu batatu b'igitsina gore, umwe wambaye agapfukamunwa n'indorerwamo z'amaso ndetse afite n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi, bigaragara ko ari gukurikirana ubuzima bw'umwe mu barwayi, iruhande rwabo hari inyubako ndetse hari n'ikiyaga.

Umuntu w'igitsina gabo, uhagaze imbere y'ivomera rusange, rifite amariba abiri, mu ntoki afite igikoresho cyifashishwa mu kuvoma cy'ibara ry'umuhondo, inyuma ye hateye ibyatsi ndetse hari inyubako.

Abantu benshi b'igitsina gabo n'igitsina gore, bari kumwe bicaye ku ntebe ziteretse mu nzu, bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima, aho buri wese ari kugenda atanga igitekerezo, afasha bagenzi be kugira ngo bagire ubumenyi ku bijyanye n'ubuzima.

Umwana wumukobwa wirabura ufite imisatsi mikeya wambaye umupira uciye amaboko yikoreye igikoresho cyifashishwa mu kuvoma ari kumwe numuntu wiigitsina gabo wambaye umupira w'amaboko magufi ndetse nisaha ari guseka agiye kumutura icyo gikoresho yikoreye.

Abantu benshi b'igitsina gabo n'igitsina gore harimo abambaye impuzankano zifashishwa n'abaganga ndetse n'udupfukamunwa, barahagaze bari gufata ifoto imbere y'inyubako iruhande rwayo hateye ibiti.

Umuntu w'igitsina gabo wishimye ufite igikoresho cyifashishwa mu kuvoma amazi, imbere ye hari ivomero rusange rifite amariba abiri, inyuma ye hateye ibimera by'ubwoko butandukanye ndetse hubatse inyubako.

Abantu b'igitsina gore bari ku kazu kagenewe gucururizwamo amazi bafite ibikoresho byinshi byifashishwa mu kuvoma, nta mazi bafite kuko ashobora kuba yabuze, barahagaze bategereje yuko ashobora kuza kugira ngo babone uko bavoma.

Abantu benshi harimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umweru, bari gufata ifoto bamwe bicaye abandi bahagaze bari kumwe n'ababayobora nyuma yo guhugurwa ku bijyanye n'ubuzima.

Abantu b'igitsina gabo n'igitsina gore, bahagaze mu cyumba cy'inzu ikorerwamo inama, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo ndetse kiriho ikirangantego cy'Igihugu cy'u Rwanda, iruhande rwacyo hari ikindi cyapa cy'umuryango w'abibumbye ishami ryita ku bana.

Abantu benshi harimo abambaye impuzankano zagenewe abaganga bari gukoma amashyi ndetse banabyina, bari kumwe n'Umuyobozi Mukuru ukuriye Ikigo Gishinzwe Ubuzima ku isi, inyuma yabo hari ikigo gitangirwamo ubuvuzi iruhande rwacyo hari igiti.

Abantu bari kumwe bahagaze imbere y'inzu icururizwamo amazi, bafite ibikoresho byifashishwa mu kuvoma, bategereje yuko amazi aza kugira ngo bayavome, bajye kuyakoresha mu mirimo itandukanye mu ngo zabo.

Abantu benshi b'igitsina gore bar ikumwe bicaye ku ntebe, harimo abambaye igitambaro mu mutwe bateruye abana, abandi bari kubonsa bategereje abaganga kugira ngo bahe ubuvuzi abo bana.

Abantu b'igitsina gabo ndetse n'ab'igitsina gore bari kumwe n'abana bakiri bato bicaye ku musambi. Bose bambaye imipira iri mu ibara ry'umuhondo nk'icunga rihishije. Abantu bakuru bari guha abana bakiri bato amata kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abantu benshi harimo igitsina gabo n'igitsina gore bicaye ku ntebe imbere yabo hari abantu batatu bafite amazi yo kunywa ndetse na mudasobwa bayoboye iyo nama ivuga ku bijyanye no kwirinda indwara y'ubushita iterwa n'inkende.

Abana b'abahungu n'abakobwa, bicaye mu cyumba cy'ishuri, bambaye impuzankano ndetse bamwe muri bo bambaye n'udupfukamunwa. Bari gufatira ifunguro mu ishuri ryabo ndetse inyuma yabo hari ikibaho cyifashishwa n'umwarimu mu kwigisha abanyeshuri.

Abantu benshi bari kumwe biganjemo abambaye impuzankano zifashishwa n'abaganga, bari gukora ibikorwa by'ubuvuzi babiha abantu batandukanye bahuriye ahongaho, kugira ngo bakomeze gusigasira ubuzima bwiza bw'abaturage.

Abantu bari kumwe bahagaze hanze, ku nzu ifite amadirishya. Umwe w'igitsina gore ari kumwe n'undi w'igitsina gabo, wambaye imyambaro yifashishwa n'abavuzi. Ari kumuganiriza ku bijyanye n'ubuzima.

Abantu benshi harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, abana bato ndetse n'abakuze bafite ibikoresho byinshi byifashishwa mu kuvoma bategereje ko amazi aza kugira ngo bavome.

Abantu benshi harimo igitsina gabo, ndetse n'igitsina gore bambaye umwambaro wifashishwa mu buvuzi uzwi nk'taburiya, barikwifotoza barikumwe n'umunyamahanga. Aho bahagaze inyuma yaho hateye ibiti, ndetse hari n'inyubako.

Umubyeyi wambaye igitambaro mu mutwe ateruye umwana ukiri muto uri kurira, bari kumwe n'umugabo wambaye impuzankano yagenewe abaganga, ari kuvura uwo mwana ukiri muto.

Abantu benshi bari kumwe harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, abato n'abakuze bicaye imbere yabo hari abantu. Umwe muri bo arahagaze ari kubaganiriza ku bijyanye n'ubuzima.

Umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana uzwi ku izina rya Israel Mbonyi yambaye indorerwamo z'amaso, ari kumwe n'umwana ukiri muto bambaye imipira y'amabara asa. Uwo mwana ahagaze ku gikoresho cyifashishwa mu gupima ibiro.

Abantu benshi harimo ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore. Bamwe barahagaze, abandi baricaye. Inyuma yabo hari icyapa. Basoje gukora inama ivuga ku bijyanye n'ubuzima bwiza bw'abaturage.

Abantu bane b'igitsina gore batatu muri bo bicaye ku ntebe, umwe ateruye umwana ukiri muto cyane undi arahagaze bigaragara ko agiye guha urukingo uwo mwana ukiri muto cyane.

Amasahani, ibisorori ndetse n'ibikombe byanitse ku gakoresho kabaje mu biti, inyuma yaho hateye insina z'ibitoki ndetse hari n'uruzitiro rw'imiyenzi ndetse n'inzu yo guturamo.

Abana batoya harimo n'abambaye imyambaro isa, bicaye hasi, bari kumwe n'abantu batandukanye, harimo n'abashinzwe umutekano, bari kubaha amata, ibi bifasha aba bana kugira ubuzima bwiza, buzira indwara, bityo bagakura neza.

Ababyeyi babiri b'igitsina gore birabura bafite imisatsi bambaye udupfukamunwa, bari kumwe mu nzu bateruye abana bigaragara ko bajyanye abo bana kugira ngo hakurikiranwe ubuzima bwabo.

Abantu benshi bahuriye ku ivomero ry'amazi, harimo abana ndetse n'abakuru, bafite ibikoresho byifashishwa mu kuvoma, bari kumwe n'umuntu ubifitiye ubumenyi uri gutunganya iryo vomero ry'amazi.

Abana bakiri bato bari gukaraba intoki bishimye, inyuma yabo hari ibimera by'ibara ry'icyatsi kibisi, hejuru yabo hari ikirangantego cy'ishami ry'umuryango w'Abibumbye wita ku bana.

Abantu benshi b'igitsina gabo n'igitsina gore, bari kumwe mu cyumba cy'inzu itangirwamo ubuvuzi. Harimo abateruye abana baje kubavuza, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza, nyuma yuko bahuye n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima.

Abantu batandatu harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore ndetse n'abanyamahanga bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza ariho amazi yo kunywa, bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe, harimo abana ndetse n'abakuze. Imbere yabo, hari abantu bari gukina umukino ujyanye n'ubukangurambaga ku ndwara ya Ebola, berekana uburyo ifata umuntu ndetse n'ingamba zitandukanye zo kuyirinda.

Abantu benshi b' igitsina gabo, ndetse n'igitsina gore, harimo nabo mu nzego z'umutekano bicaye ku ntebe bari mu nama ku bijyanye n'ubuzima, imbere yabo hari imodoka inyuma yabo hari inzu ifite irangi ry' ibara ry' ubururu hicaye n' abandi bantu benshi.

Abantu benshi b'igitsina gore barimo abakiri bato, urubyiruko ndetse n'abakuze, bari mu nzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, bari kumwe n'umuganga w'igitsina gore wicaye uri kubafasha muri serivisi z'ubuvuzi.

Abantu benshi harimo abana bato ndetse n'abakuze, bahagaze imbere y'ivomero rusange bafite ibikoresho byifashishwa mu kuvoma, bari kuvomeramo amazi meza kugira ngo bajye kuyakoresha mu mirimo itandukanye yo mu rugo.

Umwana wambaye imyenda yanduye yicaye hasi ari kumwe n'umukobwa wambaye umupira w'amaboko magufi, ipantaro y'umukara ndetse nin'inkweto arikudaha amazi ayashyira mu gikoresho cyifashishwa mu kuvoma.

Icyumba kinini kirimo abantu b'igitsina gabo n'igitsina gore bafite amacupa y'amazi, imbere yabo amakayi, n'amakaramu na mudasobwa bari mu nama ivuga ku bijyanye n'ubuzima.

Umwana w'umukobwa ukiri mutoya, wirabura, wishimye, wambaye agapira k'amaboko magufi, ari ku ivomo rusange, ari gukaraba intoki n'amazi meza.

Umubyeyi w'igitsina gore wambaye igitambaro mu mutwe ari kumwe n'abana bato benshi, bari iruhande rw'ivomero rusange bafite ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvoma, bari kubivomeramo amazi meza.

Umwana w'umuhungu ukiri muto wambaye impuzankano z'abanyeshuri afite igikombe mu ntoki, imbere ye hari igikoresho kifashishwa mu kubika amazi hari n'ivomero, uwo mwana ari kuvoma amazi muri icyo gikombe.

Inyandiko y'ubushakashatsi, iriho abantu b'igitsina gabo n'igitsina gore, ndetse yanditseho amagambo, avuga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ndetse n'uburyo ihohotera ryakwirindwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na Kajikistan.

Abantu benshi b'igitsina gabo n'igitsina gore harimo n'abo mu nzego z'umutekano abandi bambaye imipira y'amaboko magufi isa nk'ibara ry'icyatsi kibisi bari kugenda mu muhanda batanga ubukangurambaga mu kurwanya ihohoterwa.

Abantu benshi b'igitsina gabo n'igitsina gore, harimo abambaye udupfukamunwa bahagaze iruhande rwabo hari intebe ndetse n'ameza ateretseho amacupa y'amazi, bari gukoma amashyi nyuma y'uko bamaze guhabwa ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umuntu w'igitsina gabo uri guseka ugeze mu za bukuru wambaye ingofero, ishati n'umukenyero. Afashe icumu mu ntoki inyuma ye hari uruzitiro rwubakishije ibiti.

Abantu batandatu b'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, abana ndetse n'abakuze, bicaye hanze ku ntebe imbere y'inzu, inyuma yabo hateye insina z'ibitoki, bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Abantu babiri b'igitsina gore bari kumwe umwe yicaye ku ntebe bigaragara ko yihebye ari kumwe n'undi ufite imisatsi mike wambaye indorerwamo z'amaso bigaragara yuko ari kumuhumuriza nyuma yuko yahuye n'ikibazo.

Umuntu w'igitsina gore, ufite imisatsi y'umukara, wambaye indorerwamo z'amaso, afite indangururamajwi mu ntoki, imbere ye hateretse ameza ariho amazi yo kunywa, iruhande rwe hari umuntu w'igitsina gabo, wambaye agapfukamunwa inyuma yabo hari ibyapa biriho ikirangantego cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, ndetse handitseho n'andi magambo yo gutanga ubukangurambaga, ku buzima bwo mu mutwe.

Abana benshi bakiri bato bari kumwe bahagaze ahantu hari ibyatsi byumye ndetse n'ibyatsi bibisi, bafite ibikoresho byifashishwa mu kuvoma amazi abo bana barishimye.

Abantu batatu b'igitsina gore bambaye udupfukamunwa bicaye ku ntebe munsi y'igiti iruhande rwabo hari inzu zubakishije ibyatsi bafite umuti wifashishwa mu kwica udukoko bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umupira umwe w'amaboko magufi, ugizwe n'amabara atandukanye, harimo umweru ndetse n'ubururu, wanditseho amagambo inyuma, avuga ku bijyanye n'ubukangurambaga mu kurwanya indwara z'imitekerereze, harimo n'izo mu mutwe.

Icyapa gifiteho ishusho y'uruziga izengurukijeho ibiganza bibiri, hejuru hariho amagambo yanditse mu nyuguti ndetse n'andi magambo ari munsi y'iyo shusho, avuga ku bijyanye no kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe.

Umuntu w'igitsina gabo wirabura ufite imisatsi myinshi ku mutwe ndetse n'ubwanwa bwinshi cyane wambaye imyenda yacikaguritse bigaragara ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Imodoka nini imanitseho icyapa kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, iri ahateraniye abantu benshi baje gufungura ku mugaragaro ubuvuzi ngendanwa bw'indwara zo mu mutwe.

Abana benshi cyane bari kumwe bicaye ahantu hamwe bambaye impuzankano yifashishwa n'abanyeshuri bambaye imirimbo mu mutwe ndetse bigaragara yuko bishimye bakurikiye ibiganiro bari guhabwa.

Abantu benshi bari kumwe harimo ab'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, abana ndetse n'abakuze bari mu mirimo igiye itandukanye. Umwana umwe biragaragara ko yishimye ariko undi mwana we wambaye agapira k'umweru, wikoreye amaboko, biragaragara ko afite agahinda kuko ari kurira.

Umuntu uri kunamira inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi imbere ye hari ururabo, inyuma ye hari urutonde rw'amazina y'abazize jenoside yakorewe abatutsi, inyuma ye hari umukorerabushake wambaye impuzankano yabigenewe ushinzwe gufasha abahuye n ikibazo cy'ihungabana.

Icyapa kiri mu mabara y'umutuku umweru ndetse n'umuhondo cyamamaza ibiganiro bizaba bifite insanganyamatsiko ivuga ku buzima bwo mu mutwe bw'abana bakiri bato, ingimbi ndetse n'abangavu.

Abantu benshi bahagaze bigaragara ko barimo kwifotoza, harimo abo mu nzego z'umutekano, abashinzwe ku rwanya ihohoterwa, ndetse n'abashinzwe guharanira uburenganzira bw'umwana muto.

Umuntu w'igitsina gore uvuye guhinga afite isuka mu ntoki yikoreye igitebo kirimo imigozi y'ibijumba inyuma hari icyatsi ndetse n'inzu ishakakaje amategura.

Umuntu wirabura w'igitsina gore wambaye igitambaro mu mutwe gisa n'imyenda yambaye. Arishimye, ariguseka. Inyuma ye hari abandi bantu bari kumwe mu nzu. Biragaragara ko nta kibazo afite kuko aguwe neza.

Abantu babiri b'igitsina gor, bari kumwe ahantu mu nzu, umwe yicaye ku ntebe yambaye umupira w'ibara ritukura ndetse n'ingofero, arihebye afite agahinda, mugenzi we bari kumwe wambaye indorerwamo z'amaso ari kumuhumuriza.

Abantu benshi b'igitsina gabo n'igitsina gore bahagaze, harimo abambaye imipira isa y'amaboko magufi y'ibara ry'umukara. Iruhande rwabo hari intebe ndetse n'ameza ateretseho ibikoresho bitandukanye, harimo mudasobwa ndetse n'ibindi byifashishwa mu gusuzuma ndetse no kuvura indwara zo mu mutwe.

Umuntu wicaye yambaye igitambaro mu mutwe, yambaye imyenda yanduye yacikaguritse na we asa nabi, iruhande rwe hari amacupa y'amazi, uwo muntu afite uburwayi bwo mu mutwe, inyuma ye hari abandi bantu bari kugenda n'abandi bicaye.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye umupira w'amaboko magufi, wicaye mu nzu yiziritse imigozi ku maguru, uwo muntu yifashe ku gahanga afite agahinda gakabije nyuma yuko yahuye n'ibibazo.

Ababyeyi batatu bambaye imipira y'amaboko magufi, bateze ibitambaro mu mutwe, bakenyeye ibitenge, bafite n'inkoni mu ntoki. Umwe muri bo ateruye umwana ari kumwonsa. Inyuma yabo hateye ibyatsi, insina z'ibitoki ndetse n'ibiti.

Abantu bari ahantu hamwe, bicaye ku ntebe, harimo abambaye imyenda y'amaboko magufi isa ibara ry'umukara, bari gukurikirana ibiganiro bari guhabwa ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Inzu ifite amadirishya n'urugi rufunguye isize amarangi y'amabara atandukanye, hejuru handitse amagambo hatangirwamo ubuvuzi ku bafite ikibazo cy'indwara yo mu mutwe, hanze yateye ibyatsi ndetse n'ibiti.

Abantu benshi b'igitsina gabo n'igitsina gore bamwe bahagaze abandi bicaye bari gufata ifoto nyuma yo guhabwa ibiganiro ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, imbere yabo hari ameza ateretseho icupa ririmo amazi yo kunywa.

Ishusho irimo umutwe w'umuntu ndetse igaragaza n'ubwonko harimo n'inyenyeri, yanditseho amagambo yerekana ikirangantego cy'urugaga rw'abanyeshuri biga ubuvuzi bwo mu mutwe mu gihugu cy'u Rwanda.

Umuntu umwe w'igitsina gore wirabura ugaragara igice cyo hejuru gusa, yambaye imirimbo yo ku matwi ndetse ateze igitambaro mu mutwe, mu maso ye biragaragara yuko ashobora kuba atishimye.

Abantu b'igitsina gabo n'igitsina gore bari mu nzu, bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa n'ibyo kunywa nk'amazi, umwe muri bo afite indangururamajwi ari gutanga ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umwana ukiri muto wicaye ku ntebe ari mu ishuri yambaye impuzankano y'abanyeshuri yishimye ari guseka, afite ubuzima bwiza. Mu ntoki afite icyo kurya, ari kurya, arishimye.

Umuntu w'igitsina gabo wirabura ufite imisatsi wambaye imyenda yanduye, bigaragara ko afite uburwayi bwo mumutwe yicaye imbere y’inzira icamo amazi, afite amashashi ndetse n'bindi bikoresho byanduye.

Umuntu w'igitsina gore wambaye igitambaro mu mutwe ugeze mu za bukuru wicaye ku ntebe imbere y'inzu, ari guteka akoresheje igikoresho cyabugenewe, iruhande rw'iyo nzu hateye insina ndetse n'ibindi bimera.

Ikirangantego gikoze mu ibara ry'ubururu, icyatsi, umweru ndetse n'ayandi, cyanditseho amagambo asobanura ko mu Rwanda ubuzima bwo mu mutwe bugomba gushyirwa mu bikorwa.

Umuganga w'igitsina gore wambaye imyambaro yifashishwa n'abaganga ndetse afite ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, ari gukurikirana ubuzima bw'umurwayi urwaye indwara y'amenyo, uwo murwayi ari kumwe n'umurwaza we.

Umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi miremire myiza, wambaye umupira uciye amaboko, ahagaze imbere y'indorerwamo yo mu bwogero, afite igikoresho cyifashishwa mu koza amenyo kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza, yirinde indwara zifata igice cy'amenyo.

Umuntu w'igitsina gabo hagaragara amaboko igice gito cy'igihimba ndetse n'umutwe, ufite igikoresho cyifashishwa mu gusukura amenyo kugira ngo agire ubuzima buzira umuze.

Umuntu w'igitsina gabo ufite ubwanwa wambaye imirimbo y'amenyo, indorerwamo z'amaso ndetse n'umupira w'ibara ry'umweru, biragaragara yuko yishimye nyuma yuko amenyo ye afite ubuzima buzira umuze.

Umuntu w'igitsina gabo ugaragara igice cyo hejuru gusa, wambaye umupira w'ibara ry'umweru, afite umugozi wifashishwa mu gusukura amenyo, ibi ngibi bimufasha kugira amenyo asa neza, bityo akirinda indwara zose zishobora guturuka ku mwanda.

Umuntu w'igitsina gabo ugaragara mu maso n'igice gito cyigihimba wambaye imyenda, arahagaze afite imisatsi migufi arishimye, bigaragara ko amenyo ye afite ubuzima bwiza.

Abantu bari kumwe mu nzu ikorerwamo ubuvuzi, babiri muri bo ni abaganga bambaye impuzankano yabugenewe ndetse bafite n'ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, imbere yabo haryamye umuntu bari kuvura urwaye indwara y'amenyo.

Icyumba kinini kirimo amatara menshi, gisizemo irangi ry'ibara ry'umweru, kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe n'utubati ndetse n'imashini yabugenewe yifashishwa mu buvuzi buteye imbere bw'indwara y'amenyo.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi kirimo ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu gusuzuma ndetse no kuvura indwara y'amenyo aho umurwayi urwaye amenyo ashobora gukurikiranirwa.

Abaganga ndetse n'abandi bakozi bakora mu by'ubuzima basuye ikigo cy'amashuri, bahagaze mu ishuri bari kumwe n'umwana w'umuhungu bari kumwigisha uburyo bwo koza amenyo kugirango ngo agire ubuzima bwiza.

Abana bakiri bato bambaye impuzankano z'abanyeshuri bafite ibikoresho byifashishwa mu koza amenyo, bari gusukura amenyo yabo kugira ngo birinde indwara.

Abantu bari mu nzu itangirwamo ubuvuzi, umwe w'igitsina gore ari ku gitanda kiryamaho abarwayi, ari kumwe n'abaganga babiri b'igitsina gabo bambaye indorerwamo z'amaso n'ibikoresho byifashishwa mu buvuzi ndetse n'impuzankano z'abaganga, bari kumuvura indwara y'amenyo.

Umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi y'umukara wambaye imiririmbo yo ku matwi aryamye ku gitanda cyo kwa muganga, ari kumwe n'umuganga wambaye impuzankano yabugenewe, afite ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bw'amenyo, ari kuvura uwo murwayi uryamye ku gitanda.

Umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi y'umukara miremire, wambaye umupira uciye amaboko, ahagaze imbere y'indorerwamo. Mu ntoki afite umuti wifashishwa gusukura amenyo, ndetse n'igikoresho cyabugenewe. Arigusukura amenyo ye.

Abantu babiri b'igitsina gore umwe w'imisatsi miremire wirabura undi w'imisatsi migufi w'inzobe wambaye indorerwamo z'amaso afite urupapuro n'ikaramu mu ntoki ari kwandika, inyuma yabo hari ameza ariho amacupa y'amazi yo kunywa n'intebe ndetse n'icyapa kiriho amagambo avuga ku bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo.

Abantu babiri bari mu nzu itangirwamo ubuvuzi umwe w'igitsina gabo ufite imisatsi migufi yicaye ku gikoresho cyabugenewe, ari kumwe n'umuganga wambaye ibikoresho byabugenewe ku ntoki ariko kumuvura indwara y'amenyo.

Umuntu w'igitsina gabo wirabura, uri gusukura amenyo ye akoresheje igikoresho cyabugenewe, iki gikoresho gifasha umuntu kugira ubuzima bwiza bw'amenyo bityo bikamurinda indwara zitandukanye.

Umuganga wambaye ibikoresho byabugenewe, byifashishwa mu buvuzi, harimo agapfukamunwa ndetse n'itaburiya. Ari gukoresha igikoresho cyabugenewe mu gusuzuma umurwayi indwara y'amenyo. Iruhande rwe hari abandi bantu batatu bari kumufasha mu gikorwa cy'ubuvuzi.

Umuntu w'igitsina gabo w'imibiri yombi utagaragara igice cyo hasi, ariguseka mu ntoki afite igikoresho cyifashishwa mu gusukura amenyo cy'umugozi ari kuyasukura kugira ngo ngo abashe kugira ubuzima bwiza bw'amenyo.

Igisubizo cyatanzwe n'imashini iteye imbere ibishinzwe, yifashishwa mu gusuzuma amenyo y'umuntu urwaye igatanga ibisubizo ibinyujije mu gutanga ifoto isa umukara ndetse n'umweru.

Umuntu w'igitsina gabo utagaragara igice cyo hasi, ufite ubwanwa ndetse wogosha, arishimye ari guseka, afite amenyo asa neza, afite ubuzima bwiza, nyuma yuko yayitayeho akirinda ikintu cyose cyayatera indwara.

Icyumba cyo mu nzu itangirwamo ubuvuzi, gifite idirishya, mo imbere harimo ibikoresho byinshi by'ubwoko butandukanye, byifashishwa n'abaganga mu gutanga ubuvuzi bw'amenyo, ku barwayi bafite ibibazo byayo.

Umwana ukiri muto wishimye ufite imisatsi y'umukara aryamye ku gikoresho cyabugenewe cyo kwa muganga, ari kumwe n'abaganga bafite ibikoresho byabugenewe bari kumuvura indwara y'amenyo kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Abantu benshi bahuriye hamwe bicaye ku ntebe harimo ab'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, higanjemo abageze mu za bukuru bari kumwe bari kuganira bahabwa ibiganiro bitandukanye.

Abantu babiri umwe w'igitsina gabo wirabura n'undi w'igitsina gore bambaye amasaha ku kuboko kandi bageze mu za bukuru bari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bagire ubuzima bwiza buzira indwara babashe kubaho neza.

Abantu babiri, umwe w'igitsina gabo, undi w'igitsina gore, bageze mu za bukuru, bari kumwe bicaye, imbere yabo ku meza hateretse imiti bigaragara ko bari gusoma uko imiti ikoreshwa.

Abantu babiri umwe hagaragara igice cy'amaboko gusa ari koza umuntu w'igitsina gabo ugeze mu za bukuru, wicaye mu ibase akoresheje amazi meza ndetse n'isabune.

Abantu babiri b'igitsina gore bari mu nzu itangirwamo ubuvuzi umwe afite imisatsi irimo imvi kandi ageze mu zabukuru ari kumwe n'umukobwa ufite imisatsi y'umukara wambaye impuzankano yifashishwa n'abaganga, uwo mukobwa ari gukurikirana ubuzima bw'uwo mubyeyi ugeze mu zabukuru.

Abantu b'igitsina gore bigaragara ko bageze mu zabukuru bamwe bateze ibitambaro mu mutwe abandi ntabyo bateze, bamwe bicaye ku ntebe abandi bicaye hasi, inyuma yabo hari insina z'ibitoki.

Umuntu w'igitsina gore ugeze mu za bukuru wicaye mu kagare k'abafite ubumuga ari kumwe n'umuganga w'igitsina gore wambaye impuzankano yagenewe abaganga afite n'ibikoresho byifashishwa mu buvuzi ari gukurikirana ubuzima bw'uwo murwayi wicaye mu kagare.

Umusore w'inzobe wambaye ishati y'ibara ryera n'ipantaro, ndetse n'umukobwa wirabura, w'imisatsi migufi wambaye umupira ndetse n'ipantaro; bigaragara ko bari kwita ku muntu ugeze mu za bukuru.

Abantu babiri birabura, bari kumwe bicaye, bafite imvi mu mutwe, umwe w'igitsina gabo, n'undi w'igitsina gore, wambaye igitambaro cy'ibara ritukura mu mutwe, bari guhoberana bishimanye.

Abantu babiri, umwe w'igitsina gabo, udafite umusatsi, wambaye indorerwamo z'amaso, kandi ugeze mu zabukuru, ari kumwe n'undi w'igitsina gore, ufite imisatsi miremire, uri kumufasha kugira ngo abashe gutambuka.

Abantu babiri bari kumwe mu nzu, bageze mu zabukuru, imbere yabo hari ameza ateretseho ikirahure kirimo amazi yo kunywa ndetse n'imiti, bafite imiti mu ntoki bari kuyinywa ndetse banasoma uburyo iyo miti ikoreshwa.

Abantu bahagaze bageze mu zabukuru, harimo abambaye indorerwamo z'amaso, bafite ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri ndetse bari no kuyikora, ibi bibafasha kugira ubuzima bwiza.

Umuntu ugeze mu zabukuru w'igitsina gabo wambaye indorerwamo z'amaso, arahagaze, afite ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri ari kugorora ingingo kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Umusaza wirabura ufite imvi mu mutwe, wambaye ishati y'amaboko magufi n'ipantaro afite n'inkoni, mu ntoki afite ibyo kurya ariku n'abana babiri bakiri bato, bicaye imbere yumuryango winzu.

Abantu babiri bari kumwe mu nzu, bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza, umwe afite imisatsi miremire ari kumwe n'undi ufite imvi ugeze mu zabukuru, mu ntoki afite igikoresho cyifashishwa mu itumanaho, bari kuganira kugira ngo ugeze mu zabukuru abashe kugira ubuzima bwiza.

Inzu ifite amadirishya n'inzugi, irimo abantu b'igitsina gabo n'igitsina gore bageze mu za bukuru, umwe muri bo yicaye mu kagare kabugenewe k'abafite ubumuga ari kumwe n'umuganga ushinzwe kumwitaho.

Abantu benshi b'igitsina gabo bicaye hanze y'inzu ku ntebe bafite inkoni mu ntoki, harimo abambaye ibitambaro mu mutwe, abo bantu bageze mu za bukuru bari kota akazuba, imbere yabo hateye icyatsi.

Umuntu w'igitsina gore wambaye igitambaro mu mutwe n'indorerwamo z'amaso yicaye mu kagare k'abafite ubumuga, ari kumwe n'umuganga wambaye ibikoresho byifashishwa mu buvuzi ari kumwitaho ndetse barishimye.

Umuntu w'igitsina gore ugeze mu za bukuru ufite imisatsi miremire, wambaye indorerwamo z'amaso, ishati ihinye amaboko yo mu ibara ry'umuhondo, wicaye ku ntebe afite amacupa arimo imiti.

Umuntu w'igitsina gabo wirabura wambaye indorerwamo z'amaso ufite imvi mu mutwe ufite ikaramu mu ntoki ndetse n'igitabo ari gusoma biragaragara ko asa nk'ugeze mu za bukuru.

Abantu benshi bari kumwe harimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore; harimo urubyiruko abakuze ndetse n'abageze mu zabukuru bari munsi y'igiti bamwe bicaye ku ntebe abandi bicaye hasi ndetse hafi yabo hari n'inyubako.

Abantu bari kumwe mu nzu, bageze mu za bukuru, umwe w'igitsina gabo, undi w'igitsina gore, bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza ateretseho imiti ndetse n'ikirahure kirimo amazi yo kunywa, bafite igikoresho cyifashishwa mu itumanaho bari kukirebamo.

Abantu bari kumwe, harimo abato ndetse n'abakuze, ndetse n'abanyamahanga, bamwe bicaye ku ntebe, abandi bicaye hasi. Umukecuru umwe ari kuboha, inyuma yabo hateye ibiti, ndetse hari n'inzu.

Abantu b'igitsina gore bari kumwe, harimo abambaye indorerwamo z'amaso bicaye bafite igikoresho cyifashishwa mu itumanaho, bari kureba amakuru atandukanye ndetse bakora ubukorikori butandukanye.

Abantu babiri b'igitsina gabo; umwe ukuze undi bigaragara ko ageze mu zabukuru bari kugenda bafatanye ku rutugu mu kayira k'amaguru, inyuma yaho hateye ibyatsi by'ubwoko butandukanye ndetse n'ibiti birebire.

Abantu benshi b'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, bari kumwe, bahagaze, bishimye, harimo abageze mu zabukuru, mu ntoki harimo abafite ibikoresho byifashishwa mu itumanaho, ndetse n'ibikoreshwa mu buhinzi, inyuma yabo hari ibihingwa bitandukanye by'ibara ry'icyatsi kibisi.

Abantu babiri bari kumwe mu nzu bicaye ku ntebe, imbere yabo hateretse ameza ariho ibikombe. Umwe muri bo ageze mu za bukuru, yambaye indorerwamo z'amaso. Ari kumwe n'undi ukiri muto, bari kumwe baganira bishimye ndetse basoma n'igitabo.

Umuntu w’igitsina gore ufite imvi mu mutwe, wambaye umupira wamaboko maremare, ufite ingofero ndetse ni ipantaro. Yicaye hasi ku gikoresho cyabugenewe ari gukora imyitozo ngororamubiri. Inyuma ye hari imodoka ndetse hateye n’ibiti.

Abantu babiri bari mu cyumba cyo kuraramo kirimo igitanda ndetse n'igikoresho kifashishwa mu kurwanya indwara ya Maraliya kizwi nk'inzitiramibu. Umwe w'igitsina gabo ageze mu zabukuru ndetse yambaye indorerwamo z'amaso. Ari kumwe n'undi w'igitsina gore uri kumufasha guhaguruka.

Abantu babiri bari kumwe umwe w'igitsina gore wambaye impuzankano y'abaganga ndetse n'isaha ku kuboko, ari kumwe n'undi w'igitsina gabo uhagaze akoresheje igikoresho cyifashishwa mu kugenda, bari mu nzu yo guturamo.

Abantu babiri b'igitsina gore bageze mu za bukuru bari kugenda bakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bagire ubuzima bwiza birinde indwara, iruhande rwabo hateye indabo ndetse hari n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Abantu babiri umwe w'igitsina gabo n'undi w'igitsina gore bari kumwe bageze mu za bukuru, iruhande rwabo hateretse ameza ariho ikirahure kirimo amazi yo kunywa ndetse n'imiti bigaragara ko bari gusoma uburyo iyo miti ikoreshwa.

Abantu batandatu b'igitsina gore, bishimye, bageze mu zabukuru, bateze ibitambaro mu mutwe, havuyemo umwe utagiteze, bafite igitebo bari gukora igikorwa cyo gusarura icyayi.

Umugabo wambaye ishati ihinnye amaboko afite imvi mu mutwe ateruye agacupa karimo imiti ndetse ku meza hateretse iyindi, ari kumwe n'umugore wambaye indorerwamo z'amaso ari kuri mudasobwa biragaragara ko bageze mu za bukuru kandi bicaye mu gikoni.

Abantu babiri bari kumwe bicaye mu nzu ku ntebe, umwe ni igitsina gore afite inkoni mu ntoki kandi ageze mu za bukuru ari kumwe n'undi w'igitsina gabo wambaye impuzankano y'abaganga ndetse n'igikoresho mu ijosi cyifashishwa mu buvuzi ari kumwitaho kandi bombi barishimye.

Umuntu ugeze mu zabukuru, w'igitsina gabo, uri mu nzu, yicaye ku ntebe, imbere ye hari ameza ariho ibitabo, ari gusoma ameze nk'ufite agahinda kuko yifashe ku gahanga.

Abantu babiri, bari kumwe bishimye. Umwe ageze mu za bukuru yambaye indorerwamo z'amaso kandi yicaye mu kagare k'abafite ubumuga, ari kumwe n'undi w'igitsina gore wishimye ari kumufasha kugendera muri ako kagare.

Abantu babiri umwe w'igitsina gore ufite imisatsi y'umukara wambaye indorerwamo z'amaso, n'undi w'igitsina gabo ufite imvi nawe yambaye indorerwamo z'amaso, bicaye ku ntebe ahantu mu cyumba imbere yabo hari ameza ariho ibyo kurya ndetse n'amazi yo kunywa.

Umuntu wicaye ku ntebe w'igitsina gore, ufite imisatsi, wambaye indorerwamo z'amaso, ndetse n'impuzankano zifashishwa mu mwuga w'ubuganga, n'isaha ku kuboko, ari kumwe n'umuntu w'igitsina gore, ugeze mu zabukuru, ari kumwitaho kubijyanye n'ubuzima bwe.

Isoko ricururizwamo imboga n'imbuto, hicayemo abantu b'igitsina gore harimo abambaye ibitambaro mu mutwe ndetse n'imirimbo yo ku maboko no ku matwi, bageze mu zabukuru bari kuganira.

Abantu babiri, bigaragara ko umwe akiri mutoya undi ageze mu zabukuru. Umuntu mukuru ateruye umwana ukiri mutoya uwo mwana afashe mu ntoki ze igikinisho.

Abantu benshi barimo igitsina gabo n'igitsina gore, bari kumwe mu nzu nini, bicaye ku ntebe bari gukurikirana inama, ivuga ku bukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima.

Umuntu w'igitsina gore, wambaye umurimbo wo ku kuboko, afite n'indorerwamo z'amaso. Yicaye ku ntebe, ari kumwe n'abaganga na bo bambaye udupfukamunwa, bari kumukingira indwara.

Icyapa kiriho amagambo ndetse n'amashusho asa ari mu mabara atandukanye, atanga ubukangurambaga bwo kwirinda kanseri zitandukanye, harimo iz'inkondo y'umura ndetse na kanseri y'ibere n'izindi.

Abantu benshi harimo igitsina gabo n'igitsina gore bicaye mu nzu ikorerwamo inama imbere yabo hicaye abantu batandatu bayoboye iyo nama umwe muri bo afite indangururamajwi ari gutanga ikiganiro ku bwirinzi bw'indwara ya Sida ndetse n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ku mugabane wa Afurika inyuma yabo hari icyapa kiriho abaterankunga.

Umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi y'umukara yambaye indorerwamo z'amaso, mu ntoki afite indangururamajwi yicaye ku ntebe ari gutanga ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere mu rubyiruko. Inyuma ye hari icyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu.

Abantu benshi b'igitsina gabo n'igitsina gore harimo n'abambaye imyambaro y'ibara risa ndetse n'udupfukamunwa, hari abana b'abakobwa bicaye imbere yabo hari ameza ariho ibikoresho byifashishwa mu isuku y'umukobwa uri mu gihe cy'imihango ndetse n'icyapa cyanditseho amagambo.

Icyapa cyanditseho amagambo atanga ubukangurambaga mu kwirinda indwara ya kanseri, cyerekana bimwe mu bintu bitera iyo ndwara, harimo umubyibuho ukabije ndetse n'ingamba zafatwa mu kuyirinda, harimo gukora imyitozo ngororamubiri ndetse no kurya indyo yuzuye.

Umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi miremire, wambaye indorerwamo z'amaso, ufashe mu ntoki indangururamajwi yishimye, ari kuganiriza bagenzi be bicaye ku ntebe ku bijyanye n'ubuzima.

Umuntu w'igitsina gabo, wambaye indorerwamo z'amaso, uhagaze, imbere ye hari indangururamajwi ari kuvugiramo atanga ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima, inyuma ye hariho icyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru.

Abantu benshi bahagaze, harimo ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore bari gufata ifoto, inyuma yabo hari icyapa itanga ubukangurambaga mu kurwanya igwingira, binyuze mu kwita ku buzima bw'umugore utwite.

Abantu benshi bari ahantu mu nzu hari kubera inama bicaye ku ntebe, imbere yabo hari abantu batatu bayoboye inama, inyuma yabo hari icyapa kiriho ibirangantego bitandukanye by'ibigo bikorera mu Rwanda ku bijyanye n'ubuzima.

Uducupa turimo urukingo rw'indwara y'icyorezo y'ubushita iterwa n'inkende. Uru rukingo ruhabwa abantu, aho bongererwa ubudahangarwa bw'umubiri, bakabasha guhangana n'iyo ndwara igihe baba bayirwaye ntibazahaze bakayikira.

Umuntu wirabura w'igitsina gabo, ufite imisatsi migufi, wambaye agapfukamunwa ndetse n'ishati y'amaboko magufi, ari kumwe n'umuganga wambaye impuzankano yabugenewe, ari kumuha urukingo rw'indwara y'icyorezo ya Kovide cumi niicyenda, mu gihugu cya Nigeria.

Ababyeyi bari ahantu mu nzu bicaye ku ntebe, bamwe muri bo bateze ibitambaro mu mutwe, inyuma yaho hari ibyapa biriho ubukangurambaga butandukanye ku bijyanye n'ubuzima. Abo babyeyi bateruye abana bakiri batoya.

Inyandiko igizwe n'ibika ivuga ku bijyanye no kurinda ubuzima rusange bw'impunzi ziba ku mugabane wa' Afurika havuga ku cyakorwa kugira ngo bagire imibereho myiza.

Icyapa cyo mu ibara ry'ubururu, cyandikishije amagambo y'ibara ry'umweru n'umuhondo, iriho umuntu warwaye indwara y'ubushita, icyapa kiramenyesha ko tugomba kwirinda indwara y'ubushita.

Ababyeyi bari gutanga ubukangurambaga mu kwirinda indwara ya kanseri y'inkondo y'umura ikunze gufata igitsina gore. Inyuma yabo hari ibiti biteye.

Abantu babiri b'igitsina gabo. Uwo mu ruhande rw'ibumoso yambaye indorerwamo z'amaso afite imisatsi mikeya, ari gushimira uwo mu ruhande rw'iburyo nyuma yo gutanga ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima.

Icyapa cyanditseho amagambo y'amabara atandukanye cyerekana ijanisha ku bijyanye n'umubare w'abantu bitabiriye gufata urukingo rw'indwara y'icyorezo cya covidi cumi n'icyenda.

Abantu babiri umwe w'igitsina gabo wambaye indorerwamo z'amaso, ishati y'amaboko maremare ndetse n'ipantaro ari kumwe n'umukobwa w'imisatsi miremire ndetse wambaye ipantaro bari mu nama ivuga kubijyanye n'ubuzima.

Amagambo yanditse mu mpine ari mu mabara y'ubururu umuhondo n'icyatsi, munsi yayo hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukara asobanura ko abantu bafite ubuzima baba bafite n'igihugu gikize, imbere y'izo mpine hari ubusobanuro bwazo buvuga ko ari ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima.

Icyapa cyanditseho amagambo ndetse kiriho n'amafoto y'abaganga, kiratanga ubusobanuro bw'uburyo igikorwa cyo gukuramo inda gikorwa, igihe gikorerwa ndetse n'abantu bemerewe kuba babikorerwa.

Icyapa kiriho amagambo yanditse mu mabara atandukanye, ndetse n'ifoto igaragaza umwana ukiri muto, cyamamaza ubukangurambaga. Cyerekana igihe bizabera, itariki, ndetse n'umunsi.

Icyumba cyo mu nzu itangirwamo ubuvuzi, gisizemo amarangi y'amabara atandukanye, kimanitsemo n'isaha ndetse harimo amatara, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gusuzuma abarwayi ndetse no kubavura kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umuryango ukinguye w'icyumba gitangirwamo ubuvuzi, kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, birimo intebe n'ameza n'ibikoresho biteye imbere byifashishwa mu buvuzi.

Inyubako yubakishije amabuye, ifite amadirishya itangirwamo ubuvuzi, hanze hari abantu benshi bategereje guhabwa ubuvuzi, ndetse hateye ibimera n'indabo by'ubwoko butandukanye.

Icyumba cyo mu nyubako itangirwamo ubuvuzi, kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe ndetse n'ameza, aho abantu bicara baje kwivuza, bafite ibibazo bitandukanye by'uburwayi.

Inzu ifite urugi yanditseho amagambo yo mu mabara atandukanye harimo umutuku, ubururu, umuhondo n'icyatsi kibisi yerekana yuko aho hatangirwa ubuvuzi bw'abana bato.

Icyumba kinini cyo mu nzu itangirwamo ubuvuzi kirimo irangi ry'ibara ry'umweru, hamanitsemo isaha, utubati ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu buvuzi buteye imbere.

Inyubako ifite amadirishya y'ibirahure, iteretsemo intebe ndetse n'ibindi bikoresho by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, abantu baza muri iyo nyubako bakagorora ingingo, bakagira ubuzima bwiza. Hanze yayo hateye ibimera by'ubwoko butandukanye.

Inyubako ndende, ngari, isakaje amabati, ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, hanze hari abantu bahahagaze ndetse n'imodoka kandi hateye n'ibiti.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi bw'abana, harimo ibikinisho bitandukanye abana bakinisha ndetse harimo n'ibikoresho by'ubwoko butandukanye byifashishwa n'abaganga kugira ngo babashe kuvura abo bana, bagire ubuzima bwiza.

Inzu icururizwamo imiti itandukanye, ku muryango hejuru amanitse icyapa cyo mu ishusho y'urukiramende cyo mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umweru, kiriho izina ry'iyo nzu ndetse n'ibindi hasi handitse ibigo bitandukanye by'ubwishingizi bikorana n'iyo nzu ndetse hari ikinyabiziga n'abantu bahagaze.

Inyubako nini ya kaminuza nkuru y'u Rwanda yigiramo abanyeshuri biga iby'ubuganga, hanze hari amatara, hateye ibiti n'indabo ndetse hari n'abantu bari kugenda mu gahanda k'amabuye gahari.

Icyumba kimwe mu bigize inyubako itangirwamo ubuvuzi. Kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe n'ameza ndetse n'ibindi byifashishwa mu buvuzi bw'indwara y'amaso.

Inyubako nini itangirwamo ubuvuzi yubakishije ibikoresho biteye imbere, hanze hari ahantu habugenewe hakorera umukozi ubishinzwe, utanga amakuru atandukanye ajyanye n'ubuzima ndetse n'ibindi bikorwa bikorerwa muri iyo nyubako.

Umurwaza wambaye igitambaro mu mutwe, umupira w'amaboko magufi, isaha ndetse n'ikabutura n'umuganga wambaye ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, agapfukamunwa n'itaburiya. Ari gusuzuma ubuzima bw'umwana urwariye kwa muganga.

Icyumba cy'ahatangirwa ubuvuzi, gisize irangi ry'ibara ry'umweru kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutanga ubuvuzi, kiryamyemo umurwayi wambaye umupira w'amaboko magufi n'ikabutura n'agapfukamunwa, ari ku mashini iri kumuha ubuvuzi.

Icyumba kinini kimanitsemo ibitambaro, ndetse kirimo n'ibikoresho bitandukanye, harimo intebe, n'utubati, n'ibitanda biraraho abarwayi, harimo n'abaganga bari gukurikirana ubuzima bw'abarwayi.

Icyumba cyo mu nzu itangirwamo ubuvuzi, gifite amadirishya, gisize irangi ry'ibara ry'umweru ndetse gifitemo n'itara, harimo ibikoresho bitandukanye, harimo nk'utubati ndetse n'imashini yifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Inyubako isakaje amabati ifite amadirishya n'inzugi, hakoreramo ikigo nderabuzima cya Shagasha gitangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hanze hicaye abantu ndetse hateye ibiti.

Inyubako isakaje amabati y'ubururu ifite inzugi z'umweru hanze hateretse ibikoresho byifashishwa mu kubika amazi ndetse hari n'abantu ku muryango w'iyo nyubako hari icyapa cy'amabara y'umutuku n'umweru cyerekana ko hakoreramo ikigo nderabuzima cya Matyazo ndetse hari n'umuhanda uri kugendamo abantu.

Inzu nini, nziza ifite amadirishya n'inzugi, itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hanze hari ibinyabiziga, ndetse hateye ibimera by'ubwoko butandukanye, indabo, n'ibiti.

Icyumba cyo mu nzu itangirwamo ubuvuzi kirimo irange ry'ibara ry'umweru ndetse n'igikoresho kinini kifashishwa mu buvuzi buteye imbere, mu gusuzuma abarwayi barwaye.

Inyubako ikoreramo ikigo nderabuzima cya Tabagwe, ahatangirwa ubu buvuzi, hanze hari abantu benshi harimo abana ndetse n'abakuze, mu nzira ijyayo hari ingazi ndetse hateye ibiti n'ibyatsi.

Icyumba kinini cyo mu nzu itangirwamo ubuvuzi. Kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gusuzuma ndetse no kuvura abarwayi. Ndetse, harimo n'ibitanda byabugenewe abarwayi baryamaho.

Inzu icururizwamo imiti irimo utubati turimo imiti igiye itandukanye ndetse harimo n'abantu baje kugura imiti, hanze hamanitse icyapa cy'ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi kibisi kivuga uko hitwa ndetse n'ubwishingizi butandukanye bukorana n'aha hantu.

Icyumba cyo mu nyubako itangirwamo ubuvuzi, kirimo ibikoresho byinshi cyane by'ubwoko butandukanye, bifite amabara yiganjemo umukara, ubururu n'umuhondo, ibi ngibi bifasha abaganga mu gukora umwuga wabo bityo bakavura abarwayi neza.

Icyumba cyo mu nyubako itangirwamo ubuvuzi kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu gusuzuma ndetse no kuvura abarwayi, harimo igitanda ndetse n'ibindi bikoresho biteye imbere.

Icyumba cyo mu nyubako itangirwamo ubuvuzi kirimo ibikoresho bitandukanye harimo intebe utubati n'ameza, hateretsemo n'ibitanda biryamaho abarwayi ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa n'abaganga mu buvuzi.

Icyumba gitangirwamo ubuvuzi bw'abana ndetse kirimo ibishushanyo by'inyamaswa zitandukanye, harimo n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga kugira ngo babashe gusuzuma ndetse no kuvura abana bakiri batoya.

Inyubako icururizwamo imiti y'ubwoko butandukanye ivura indwara, hanze hateye ibiti, hari ikinyabiziga ndetse n'umuntu uhagaze, kuri iyo nzu hejuru hamanitse icyapa cyo mu ishusho y'urukiramende kiriho izina ry'iyo nzu, umuntu ukoreramo n'uburyo wamubona ndetse n'ubwishingizi butandukanye bukorana na ho.

Inyubako isakaje amabati ifiteho amadirishya, ku nkuta zayo hamanitse ibyapa byerekana yuko hakorerwa Ibitaro bya Gihundwe ndetse byerekana ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi bikorerwa muri iyo nyubako, harimo ubuvuzi bw'amaso ndetse no koza impyiko.

Inyubako nini, isakaje amabati y'ubururu, isize irangi ry'ibara ry'umweru, ifite inzugi, ndetse n'amadirishya, hakorerwamo igikorwa cyo kubyaza ababyeyi, hanze hateye ibiti, n'indabo by'ubwoko butandukanye.

Icyumba kinini cyo mu nzu itangirwamo ubuvuzi, kirimo ibikoresho byinshi by'amabara atandukanye byifashishwa mu gusuzuma abarwayi ndetse no gutanga ubuvuzi.

Inyubako igerekeranye itangirwamo ubuvuzi, hanze hari abakozi bakora muri iyo nyubako, ndetse n'ikigega cy'amazi hateye n'ibiti, ndetse hariho n'uruzitiro ruzitiye iyo nyubako.

Icyumba kimwe mu bigize inyubako itangirwamo ubuvuzi gifite inzugi ndetse harimo amatara, harimo n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutanga ubuvuzi harimo ibitanda byagenewe kuraraho abarwayi.

Inzu nini isize irangi ry'ibara ry'umweru ifite amadirishya n'inzugi hanze yayo hari umurwayi wicaye mu kagare kagenewe ababana n'ubumuga ndetse hateye ibiti, indabo ndetse n'ibyatsi hari n'ikigega cyifashishwa mu kubika amazi.

Icyumba kinini cyagenewe gutangirwamo ubuvuzi ku bana, harimo igikinisho cy'inyamaswa y'akanyamasiyo, intebe ndetse n'ibindi bikinisho by'abana. Hasizemo irangi ry'amabara agiye atandukanye.

Inyubako ikoreramo ikigo nderabuzima. Hanze hari intebe zicayeho abarwayi benshi, harimo abato n'abakuze. Hari n'imodoka n'icyapa cyo mu ishusho y'urukiramende, cyerekana ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi bikorerwa muri icyo kigo nderabuzima.

Icyumba cy'ahatangirwa ubuvuzi gisize irangi ry'ibara ry'umweru kirimo amatara menshi ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu gutanga ubuvuzi buteye imbere.

Inzu zisakaje amabati zifite amadirishya, zikorerwamo ibikorwa byo gutanga ubuvuzi. Imwe muri zo hanze hateretse igikoresho cyifashishwa mu kubika amazi y'imvura, hateye ibyatsi ndetse n'ibiti.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi butandukanye, hanze hari ibikoresho by'ibara ry'umukara byifashishwa mu kubika amazi, hari amatara ndetse hateye ibiti n'ibimera, hari n'akayira kubakishije amabuye.

Inzu igerekeranye, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, harimo umuryango ucururizwamo imiti ndetse iruhande rw'uwo muryango hari ibibumbano nyamamazamyambaro ndetse hanze hari imodoka ebyiri.

Inzu icururizwamo imiti, mo imbere harimo utubati twinshi turimo imiti y'ubwoko butandukanye yifashishwa mu kuvura abantu barwaye, hanze hariho ibishushanyo byerekana imwe mu miti iboneka muri iyo nzu.

Icyapa cyo mu ishusho y'urukiramende, cyanditseho amagambo, cyerekana ahantu hari inzu itangirwamo ibikorwa by'ubuvuzi, imbere yacyo hari inyubako ndetse hateye ibyatsi n'ibiti.

Abantu benshi b'igitsina gabo n'igitsina gore bageze mu zabukuru, bari kumwe mu nzu bicaye ku ntebe, bambaye imipira y'amaboko magufi igenda isa, bafite amazi yo kunywa, bategereje guhabwa ubuvuzi.

Inzu nini igerekeranye itangirwamo ubuvuzi, hanze hari imodoka eshatu ndetse ku muryango hari icyapa cyo mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, cyerekana ibikorerwa muri iyo nyubako ndetse hateye n'ibiti.

Icyumba kimanitsemo isaha ndetse kirimo igikoresho kinini cyane cyifashishwa n'abaganga mu gusuzuma ndetse no kuvura abantu barwaye indwara zitandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Icyumba kiri mu nzu itangirwamo ubuvuzi, gifite amadirishya, gisizemo irangi ry'ibara ry'umweru, giteretsemo ibikoresho byinshi byifashishwa mu guha abarwayi amaraso.

Inyubako nini nziza igerekeranye itangirwamo buvuzi, aho abantu barwaye bahaza bagahura n'abaganga bakabafasha bakagira ubuzima bwiza, hanze hateye ibiti ndetse hari n'uruzitiro.

Inzu nini ifite amadirishya ndetse n'amatara menshi, irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi ngororangingo ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba kinini, gisizemo irangi ry'ibara ry'umweru, kirimo ibikoresho byinshi by'amabara atandukanye, byifashishwa mu buvuzi, aho abaganga babikoresha, mu gusuzuma, ndetse no kuvura, abarwayi baje muri iyo nzu.

Icyumba cyo mu nzu itangirwamo ubuvuzi, kirimo abaganga bambaye impuzankano zabugenewe, imbere yabo hari umuntu uryamye ku gitanda cy'abarwayi, bari gukurikirana ubuzima bwe bakoresheje imashini yifashishwa mu buvuzi buteye imbere.

Icyumba gisizemo irange ry'ibara ry'umweru, gifite amadirishya asize irangi ry'ibara ry'umukara, kimanitsemo isaha ndetse kirimo n'ibikoresho byifashishwa mu buvuzi ngororangingo butandukanye.

Inyubako zifite amadirishya n'inzugi, zitangirwamo ubuvuzi. Aho abantu barwaye bahagana, bagafashwa n'ababifitiye ubushobozi, bakabavura bagakira. Hanze hateye ibiti ndetse n'ibimera.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi ifite inzugi z'ibirahuri, harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, aho wishyura kimwe ukabona ikindi cy'ubuntu, ibi ngibi bifasha abantu kugira ubuzima bwiza.

Inzu nyinshi zikorerwamo ubuvuzi hari kwaka amatara hanze hahagaze abarwayi ndetse n'abarwaza, hanze kandi hateye ibiti ndetse n'ibyatsi by'ubwoko butandukanye.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi hanze yaho hateye ibiti byinshi by'ubwoko butandukanye ndetse n'ibyatsi aho kandi hari umuhanda uri kugendamo abantu bigaragara ko bari kujya kuri iyo nzu itangirwamo ubuvuzi.

Inzu ikoreramo ikigo nderabuzima, hanze hateretse intebe yicayeho umurwayi umwe, hari n'abandi bantu batatu bahagaze hanze ndetse n'umuganga uhagaze imbere y'umuryango w'icyo kigo nderabuzima, hari n'izindi nyubako ziri iruhande rw'icyo kigo nderabuzima.

Icyumba gisizemo amarangi y'amabara meza ndetse kirimo n'amatara, cyifashishwa mu gutanga ubuvuzi bw'abana bato. Harimo ibikoresho bitandukanye, harimo mudasobwa n'intebe, byose bifasha abaganga mu kuvura abana.

Icyumba kinini cyo mu nzu itangirwamo ubuvuzi kirimo ibitanda byagenewe kuraraho abarwayi ndetse hamanitsemo ibikoresho byifashishwa mu kurwanya imibu itera indwara ya malariya bizwi nk'inzitiramibu.

Urujya n'uruza rw'abantu berekeza ku nzu zitangirwamo ubuvuzi abandi bavayo. Ku muryango hari umukozi ushinzwe umutekano, ndetse hari n'ibyapa byerekana ibikorwa bitandukanye bikorerwa muri ibyo bitaro. Hanze hari imodoka nyinshi ndetse hateye n'ibiti.

Inyubako harimo izisakaje amabati zitangirwamo ubuvuzi, hanze hateye ibiti ku muryango hari icyapa cyo mu ishusho y'urukiramende cyerekana ko aho hantu hakorera ibitaro bya Nyanza.

Inyubako zitandukanye zisakaje amabati, zitangirwamo ubuvuzi, aho abantu bafite indwara zitandukanye baza kureba abaganga bakabafasha, hanze hateye indabo z'ubwoko butandukanye ndetse n'ibindi bimera.

Inyubako nini ifite ibyumba bitandukanye, isizemo irangi ry'ibara ry'umweru imanitsemo amatara menshi, ikorerwamo ubuvuzi ndetse harimo ibikoresho bitandukanye, byabugenewe byifashishwa n'abaganga mu kuvura abarwayi.

Inzu nini ifite inzugi n'amadirishya isizemo irangi ry'ibara ry'umweru irimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi butandukanye, muri iyo nzu hateyemo n'ibimera.

Umuntu w'igitsina gore, wambaye igitambaro mu mutwe, uryamye ku gitanda cy'abarwayi. Ari kumwe n'umuganga, wambaye indorerwamo z'amaso, ndetse n'impuzankano zagenewe abaganga, uri kumuvura kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Icyumba cyo mu nzu itangirwamo ubuvuzi harimo agatebe gato utubati ndetse no ku rukuta hariho ishusho y'inyamaswa ziba mu mazi, harimo n'icyuma kifashishwa mu buvuzi buteye imbere.

Icyapa kiri ku muryango, cyerekana ibitaro bikuru bya Kabgayi. Mo imbere hari abakozi bakora muri ibyo bitaro, ndetse harimo n'izindi nyubako zifashishwa mu gutanga ubuvuzi. Ndetse hateye n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Inyubako isize amarange y'amabara atandukanye itangirwamo ubuvuzi, hanze hari intebe ndetse n'icyapa cyerekana ibikorwa bitandukanye, bikorerwa muri iyo nyubako ndetse hateye n'ibiti.

Icyumba kimwe mu bigize inyubako itangirwamo ubuvuzi, muri iki cyumba niho ababyeyi babyarira, hanze hari igikoresho cy'ibara ry'umukara cyifashishwa mu kubika amazi ndetse hari n'abantu bari kugenda.

Icyumba kinini kiri mu nzu itangirwamo ubuvuzi, kirimo ibikoresho bitandukanye harimo ibitanda by'abarwayi ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kurinda indwara ya malariya bizwi nk'inzitiramibu.

Icyapa kiri mu ishusho y'urukiramende giteye ku marembo y'inzi itangirwamo ubuvuzi kuri icyo cyapa handitseho amagambo atanga ikaze muri iyo nzu itangirwamo ubuvuzi ndetse hariho n'ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi bitangirwa muri iyo nzu, iruhande rwacyo hari umuhanda w'amabuye ndetse hateye n'ibiti.

Abanyeshuri benshi barimo ab'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore bari mu nzu y'ahatangirwa ubuvuzi, bari kwimenyereza umwuga w'ubuganga bambaye impuzankano zabugenewe.

Inzu nini ifite amadirishya, isizemo irangi ry'ibara ry'umweru, irimo amatara menshi, harimo ibitanda biryamyeho abarwayi ndetse hamanitsemo n'inzitiramibu ndetse harimo n'utugare twifashishwa n'abafite ubumuga.

Inyubako ikoreramo ibitaro bya Ruhengeri bitangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hanze hateye ibiti n'indabo ndetse ku muryango hamanitse icyapa cyo mu ishusho y'urukiramende cyerekana ko ibyo bitaro bikorera muri iyo nyubako, hanze hari urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda mu muhanda.

Umuntu w'igitsina gabo wirabura ufite imisatsi y'umukara migufi, wambaye umupira uciye amaboko, ahagaze ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuntu w'igitsina gore utagaragara igice cyo mu maso ufite icupa mu ntoki ry'amazi yo kunywa ariko yanywa, yambaye igitambaro cyifashishwa mu kwihanagura ndetse yambaye n'umupira uciye amaboko.

Igikoresho gikoze mu byuma cyifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze mu guterura umuntu wahuye n'ikibazo nk'igihe umuntu yaba yari ari gukina agakomereka cyangwa akavunika bakamuteruraho bamujyanye kumuha ubuvuzi.

Icupa rirerire rifite umupfundikizo ririmo amazi yo kunywa, ryifashishwa n'abantu bari mu myitozo ngororamubiri igihe bafite inyota, bakanywaho kugira ngo babashe gukomeza imyitozo ngororamubiri bameze neza.

Ameza ateretseho ibintu bitandukanye bifasha umuntu kugira ubuzima bwiza, harimo imiti, amazi yo kunywa, ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, imbuto zirimo imineke, inanasi ndetse n'ibindi.

Igikoresho kiri mu ibara ry'umweru, cyifashishwa mu kubika ibikoresho bitanga ubuvuzi bw'ibanze, aho umuntu ashobora kuba yakomeretse, cyangwa yahuye n'imbone ugafata ibyo bikoresho ukamuvura.

Akadege gato kifashishwa mu buvuzi gatwara amaraso kayavana mu bitaro bimwe, kayajyana mu bindi aho abarwayi bayakeneye, iruhande rw'ako kadege hateye ibiti ndetse hari n'inzu zo guturamo.

Umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi miremire, wambaye imyambaro yifashishwa mu myitozo ngororamubiri, afite icyuma kiri kumufasha kugorora ingingo kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza buzira indwara.

Umuntu w'igitsina gabo wirabura ufite imisatsi mike, utagaragara igice cy'amaguru yambaye umupira uciye amaboko w'ibara ry'icyatsi kibisi, mu ntoki afite icupa ririmo amazi yo kunywa ari kuyanywa, nyuma y'uko avuye mu myitozo ngororamubiri.

Umuntu w'igitsina gabo, wirabura, utagaragara igice cyo mu maso. Ku kuboko yambaye isaha. Yicaye hasi nyuma yuko yahuye n'ikibazo cy'imvune ubwo yari ari mu myitozo ngororamubiri. Ari kugerageza kwivura kugira ngo abashe kumera neza.

Igikoresho cyifashishwa mu gutwara abarwayi gikozwe mu cyuma gifite amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, aho umuntu ashobora guhura n'ikibazo ari mu imyitozo ngororamubiri bagakoresha iki gikoresho bakamuterura bakabasha kumujyana aho ari buvurirwe agakomeza kugira ubuzima bwiza.

Ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, harimo inkweto, umugozi n'ibindi, ikindi gikoresho cyifashishwa n'abaganga mu gusuzuma indwara zitandukanye abarwayi, imbere yacyo hari isahani iriho imbuto ndetse n'imboga.

Abantu babiri b'igitsina gabo bari mu cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, umwe aryamye ku gitanda cyabugenewe ari kumwe na mugenzi we uri kumufasha kugira ngo abashe gukora ubuvuzi ngororangingo.

Abantu babiri batagaragara mu maso, umwe ahagaze yambaye umupira w'amaboko magufi n'ipantaro ari guha ubuvuzi ngororangingo undi uryamye ku gatanda kabugenewe nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri.

Igikapu kigizwe n'amabara y'umukara, umweru n'umutuku. Kirimo ibikoresho byinshi by'ubwoko butandukanye, n'imiti byifashishwa mu buvuzi. Igihe nk'umuntu yaba yagize ikibazo kirimo kuvunika cyangwa gukomereka.

Ishusho iri mu ruziga rurimo abantu babiri b'igitsina gabo bambaye impuzankano yabugenewe bari kuburana irerekana ikirangantego cy'ishyirahamwe ry'abakina umukino wo gukirana mu gihugu cy'u rwanda.

Ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze, harimo imiti ivura umuntu wahuye n'ikibazo ari mu myitozo ngororamubiri ndetse n'ibindi bikoresho bifasha muri icyo gikorwa.

Umuntu w'igitsina gabo utagaragara igice cy'amaguru, wambaye umwambaro wifashishwa mu myitozo ngororamubiri, afite icupa ry'amazi ari kuyasuka mu maso bigaragara ko ari kuruhuka, amaze gukora imyitozo ngororangingo.

Abaganga benshi bambaye impuzankano bafite ibikoresho byabugenewe, bari gukurikirana ubuzima bw'umurwayi wahuye n'impanuka ari mu myitozo ngororamubiri.

Umuntu w'igitsina gabo ufite imisatsi miremire wambaye imirimbo yo ku kuboko ndetse n'imyambaro yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, ari mu cyumba cyabugenewe ari gukora imyitozo ngororangingo.

Umuntu w'igitsina gabo utagaragara igice cyo mu maso, wambaye imyambaro yifashishwa mu myitozo ngororamubiri, arapfukamye nyuma yuko ahuye n'ikibazo mu ivi ari mu myitozo ngororamubiri, ari kugerageza kuhavura kugira ngo hamere neza.

Abantu babiri bari kumwe umwe yambaye umwambaro wagenewe abaganga, undi yambaye umupira w'amaboko magufi ndetse n'ipantaro bigaragara yuko ari kwitabwaho n'uwo muganga nyuma y'uko yahuye n'ikibazo.

Umuntu w'igitsina gore wambaye isaha ku kuboko n'imyambaro n'inkweto byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kugorora ingingo ze, agire ubuzima bwiza.

Abana benshi b'abahungu n'abakobwa, bari kumwe bari mu myidagaduro, bakina umupira. Ibi ngibi bibafasha gukora imyitozo ngororamubiri, bityo bakagira ubuzima bwiza, buzira indwara.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye ubusa hagaragara igice cy'igihimba gusa, ku kuboko ashushanyijeho amabara agiye atandukanye yakoresheje ukuboko kwe akora ku mutima.

Umuntu wirabura wicaye ku ntebe hagaragara igice cy'amaguru n'ikiganza kimwe, yakomeretse ukuguru, afite umuti wifashishwa mu buvuzi bw'ibanze, ari kuvura aho yakomeretse ku kuguru.

Ibikoresho bitatu by'ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, byifashishwa mu kubika ibikoresho bitanga ubuvuzi bw'ibanze. Imbere yabyo hari abantu bicaye, bambaye imyenda y'ibara ry'umukara ndetse ku ruhande hari abakinnyi.

Umuntu w'igitsina gore utagaragara igice cyo mu maso ari mu nzu aryamye hasi ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ibirenge ndetse n'imyambaro yabugenewe.

Igikapu cy'ibara ry'umutuku gifite imishumi y'umukara, kirimo ibikoresho ndetse n'imiti itandukanye yifashishwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze mu gihe nk'umuntu yaba yari gukora imyitozo ngororamubiri agahura n'ikibazo.

Umuntu w'igitsina gabo wirabura utagaragara mu maso, wambaye imyambaro y'ibara ry'umukara, uri mu cyumba cyabugenewe ari gukora imyitozo ngororamubiri itandukanye.

Umuntu wicaye ku gitanda cyagenewe abarwayi uri gukurikiranwa n'umuganga ubifitiye ububasha nyuma yuko yahuye n'ikibazo mu kuguru agakomereka, uwo muganga ari kumukurikirana kugira ngo abashe kongera kugira ubuzima bwiza.

Icyapa cyandikishije amagambo kiriho n'ifoto y'umuntu w'igitsina gabo, uri gukora imyitozo ngororamubiri, kiravuga ibyiza byo gukora imyitozo ngororamubiri ihoraho, harimo kugabanya ibinure, kugabanya umuvuduko w'amaraso ndetse no kurinda kunanirwa k'ubwonko.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye agapira k'amaboko magufi k'ibara ry'umuhondo kanditseho amagambo y'ibara ry'umukara n'umutuku, wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, yicaye hasi ari gukora imyitozo ngororamubiri. Inyuma ye hateye ibyatsi ndetse n'indabo.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'ubururu, yambaye mu ijosi igikoresho cyifashishwa mu kumva amajwi, afite icupa mu ntoki ririmo amazi ndetse ari kuyanywa nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba kinini gisizemo irange ry'ibara ry'umweru kirimo igikoresho kinini cyane kifashishwa mu buvuzi, hateretseho umurwayi ugiye gusuzuma indwara afite nyuma y'uko yaje kwa muganga arwaye.

Umuntu w'igitsina gabo uryamye ku gikoresho cyabugenewe cyahatangirwa ubuvuzi ari kumwe n'undi uri kumugorora ingingo nyuma y yahuye nikibazo ari mu myitozo ngororamubiri.

Abantu babiri b' igitsina gabo bari mu nzu ikorerwamo imyitozo ngorora mubiri. Umwe yambaye umupira w'amaboko magufi ndetse n' ipanaro ari gukurikirana undi wambaye umupira w'amaboko magufi n'ikabutura ari gukora imyitozo ngororangingo.

Umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi y'umukara wambaye imyambaro y'ibara ry'umukara ndetse n'inkweto, yicaye hasi ari gukora imyitozo ngororamubiri kugirango abashe kugira ubuzima bwiza, ndetse iruhande rwe hateretse icupa ririmo amazi yo kunywa.

Umuntu w'igitsina gore ugaragara igice cy'umutwe ndetse n'amaboko gusa, afite imisatsi miremire y'umukara, ari mu myitozo ngororamubiri kugirango agire ubuzima bwiza.

Abantu babiri, umwe hagaragara igice cy'ukuguru gusa ari kumwe n'umuganga wambaye mu ijosi igikoresho cyifashishwa mu buvuzi ndetse n'itaburiya, ari gukurikirana umurwayi wahuye n'ikibazo ku kuguru.

Abantu benshi biganjemo abana bahagaze ku kibuga gikorerwaho imikino, bari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bagire ubuzima bwiza ndetse aho hantu hari gutangirwa n'ibikorwa byo gusuzuma indwara zitandukanye ndetse hateye n'ibiti by'ubwoko bwinshi.

Umuntu uryamye ku gitanda cyo kwa muganga cy'abarwayi, ari kumwe n'undi wambaye impuzankano yagenewe abaganga, ari kumuvura nyuma yuko uwo murwayi yagize ikibazo cyo mu kuguru.

Icyapa kigizwe n'amagambo ndetse n'abakobwa cyerekana imyitozo ngororamubiri ushobora gukora igihe umara igihe kinini wicaye, bikagufasha kuba warinda umugongo wawe kwangirika.

Umuntu w'igitsina gore wirabura, utagaragara mu maso wambaye mu ijosi igikoresho kifashishwa mu kwihanagura, afite icupa ririmo amazi yo kunywa ari kuyanywa nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri.

Ibintu byinshi biri kumwe by'ubwoko butandukanye, harimo imbuto, ikirahure kirimo umutobe, ikirahuri kirimo amazi yo kunywa, ibikomoka ku matungo ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Abantu benshi bari gukina, mugenzi wabo aryamye ku gitanda cyagenewe abarwayi, ari gukurikiranwa nyuma yuko yahuye n'ikibazo cy'ukuguru. Muganga ari kumwitaho kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gore wirabura wambaye isengeri, ipantalo ndetse n'inkweto byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye hasi ari gukora ubugororangingo.

Umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi miremire utagaragara igice cyo mu mu maso, wambaye imyenda ndetse n'inkweto. Arahagaze, ari gukora imyitozo ngororamubiri kugirango abashe kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa w'inzobe w'imisatsi miremire wambaye isengeri ndetse n'ipantaro wicaye hasi ari gukora imyitozo ngororamubiri imbere hateretse icupa ririmo amazi yo kunywa.

Umuntu w' igitsina gabo wirabura, wambaye umupira w' amaboko magufi w' ibara ry' ubururu n' umurimbo mw' ijoshi. Afite imisatsi migufi ndetse n' ubwanwa afite n' icupa ry' amazi mu intoki ari kuyanywa.

Ibiganza bibiri by'umuntu wambaye ibikoresho by'ibara ry'umukara byifashishwa mu gutanga uburinzi igihe umuntu ari mu myitozo ngororamubiri kugira ngo atagira ikibazo ahura na cyo mu kiganza.

Icyumba kiri mu nzu itangirwamo ubuvuzi, gikoreshwa n'abaganga mu gusuzuma uko abarwayi bameze nk'urugero, umurwayi yakomerekeye mu myitozo ngororamubiri.

Umuntu utagaragara mu maso, wambaye ipantaro ndetse n'inkweto byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, imbere ye hari ibikoresho bikoreshwa mu buvuzi nsimburangingo.

Igikoresho kiri mu ibara ry'umweru cyifashishwa n'abaganga mu gutanga ubuvuzi ku bantu bahuye n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima kugira ngo babashe kongera kugira ubuzima bwiza.

Igikoresho kigizwe n'amabara abiri, umukara ndetse n'umweru. Hasi gifite amapine. Cyifashishwa n'abantu bari mu myitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri ifasha abantu, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gabo utagaragara neza ku gice cyo mu maso ndetse n'icy'amaguru, imyenda yicaye mu byatsi ari gukora ubuvuzi ngororangingo nyuma yuko yarari mu myitozo ngororamubiri agahura n'ikibazo.

Umuntu w'igitsina gore utagaragara mu maso wambaye imyambaro yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, afite igitambaro cyifashishwa mu kwihanagura, mu ntoki afite icupa ry'amazi ririmo amazi ari kunywa.

Imiti myinshi cyane y'ubwoko butandukanye yifashishwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze nk'igihe umuntu yagize ikibazo cy'imvune gukomereka cyangwa ikibazo cy'ubuhumekero.

Abantu babiri bari mu nzu itangirwamo ubuvuzi ngororangingo, umwe w'igitsina gabo yambaye agapfukamunwa k'umukara, ishati y'amaboko magufi y'ibara ry'umweru n'ipantaro y'umukara, ari gukurikirana umukobwa wambaye isengeri y'umweru ufite imisatsi miremire, ukora imyitozo ngororamubiri akoresheje icyuma cyabugenewe.

Icyapa kigizwe n'amagambo ndetse n'ibishushanyo kerekana ingamba z'ubwirinzi mu gihe k'icyorezo cya kovide cumi n'icyenda, ahantu hakorerwa imyitozo ngororamubiri, harimo kuguma mu rugo mu gihe urwaye, koga intoki mu buryo buhoraho, gusiga intera hagati yawe n'undi muntu ndetse no kwirinda gusuhuzanya.

Umuntu w'igitsina gabo uhagaze, afite mu ntoki igikoresho cyifashishwa mu myitozo ngororamubiri. Ahantu ari hari n'ibindi bikoresho bitandukanye, bifasha abantu mu buvuzi ngororangingo.

Igikoresho kigizwe n'amabara atandukanye, harimo umweru ubururu, umuhondo ndetse n'umukara, cyifashishwa mu buvuzi ngororangingo, igihe umuntu yahuye n'ikibazo.

Umuganga w'igitsina gore wicaye ku ntebe, afite igikoresho cyabugenewe cyifashishwa mu gusuzuma, ari gusuzuma umwana kugira ngo arebe ikibazo afite.

Umuntu wicaye ku ntebe atagaragara mu maso, afite igikoresho cyifashishwa mu buvuzi bw'ibanze, ari kwivura ku kuguru bigaragara ko yahuye n'igikomere ari mu myitozo ngororamubiri.

Umuntu w'igitsina gore uri ahantu mu nzu hasize irangi ry'ibara ry'umweru, yicaye ku gitanda, yambaye imyambaro yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, ari kwinanura, bigaragara ko amaze gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu w'igitsina gabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, inyuma ye hari ubwoko butandukanye bw'ibiryo bifite ingaruka mbi ku mubiri, harimo ibikomoka ku matungo ndetse n'ibitetswe mu mavuta, imbere ye hari ibyo kurya bifitiye akamaro umubiri harimo amazi, imbuto, imboga ndetse n'amagi.

Ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze, harimo imiti ikoreshwa mu gihe umuntu yahuye n'ikibazo ari mu myitozo ngororamubiri, harimo nko kugira imvune, guhumeka nabi cyangwa se gukomereka.

Umuganga w'igitsina gabo wambaye impuzankano yifashishwa n'abaganga izwi nk'itaburiya ndetse n'isaha ku kuboko, ari kumwe n'umurwayi w'igitsina gore wambaye indorerwamo z'amaso ari kumuvura ukuguru aho yahuye n'imvune.

Ibikoresho byinshi biri kumwe, by'ubwoko butandukanye, byifashishwa mu buvuzi, muri byo harimo ibyifashishwa mu buvuzi ngororangingo, ndetse n'ibyifashishwa mu gusuzuma umutima w'umuntu.

Umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi wambaye udukoresho twifashishwa mu kumva amajwi. Yambaye n'umupira uciye amaboko. Mu ntoki afite icupa ririmo amazi yo kunywa ndetse ari kuyanywa nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, ndetse n'imbuto n'imboga harimo imineke ndetse n'izindi zitandukanye, ibi byose byifashishwa mu kubungabunga amagara y'umuntu.

Icyumba cy'ahatangirwa ubuvuzi gisizemo irange ry'ibara ry'umweru, kirimo ibikoresho byinshi byiganjemo ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umweru, byifashishwa mu gutanga ubuvuzi ngororangingo.

Abantu benshi batagaragara mu maso bari mu cyumba umwe yicaye ku kabati ari guhabwa ubuvuzi bw'ibanze na mugenzi we hakoreshejwe ibikoresho byabugenewe nyuma y'uko ahuye n'ikibazo ku kuguru no ku birenge.

Umuntu w'igitsina gabo ugaragara igihimba ndetse n'amaboko, wambaye umupira w'amaboko magufi w'ibara ry'icyatsi, afite umupira wo gukina mu ntoki yitegura kujya mu myitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Imiti yifashishwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze, y'ubwoko butandukanye, ibitse mu gasanduku kabugenewe, iyo miti ivura indwara zitandukanye, harimo kugira ubushye, ndetse no kurwara ibicurane, ndetse no gukomereka.

Umuntu w'igitsina gore utagaragara mu maso, ufite imisatsi miremire, wambaye imyambaro yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'inkweto, yicaye hasi ari gukora imyitozo ngororangingo.

Umuntu w'igitsina gabo utagaragara igice cy'maguru ndetse n'igice cyo mu maso wambaye udukoresho twifashishwa mu kumva amajwi, yambaye agapira k'amaboko magufi ari mu myitozo ngororamubiri afite icupa ry'amazi yo kunywa ari kuyanywa.

Abantu babiri batagaragara igice cyo mu maso, ndetse n'igice cyo ku maguru, umwe yambaye umupira w'amaboko magufi n'ipantaro, ari kumwe n'umuganga wambaye impuzankano yabugenewe, ari kumuha ubuvuzi ngororangingo.

Umuntu w'igitsina gore wirabura ufite imisatsi wambaye isengeri, ikabutura n'inkweto zirimo amabara y'umweru n'umukara, yicaye hasi mu byatsi ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu w'igitsina gore wicaye hasi ku gikoresho cyabugenewe atambaye inkweto, ari mu myitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kugorora ingingo ze, agire ubuzima bwiza buzira indwara.

Umuntu w'igitsina gabo bigaragara ko yari ari gukora imyitozo ngororamubiri, afashe icupa ry'amazi mu ntoki ari kuyasuka mu maso kugira ngo abashe kuruhuka nyuma y'imyitozo ngororamubiri.

Umurwayi wicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga, afite mu ntoki ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, ari kumwe n'umuganga wambaye impuzankano zabugenewe, uri kumuvura kugira abashe kumera neza.

Umuntu w'igitsina gore wirabura wambaye isaha ku kuboko, hari kugaragara igice cy'amaboko n'amaguru gusa bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri, agahura n'ikibazo cy'imvune mu kuguru.

Umuntu w'igitsina gabo, wirabura, ufite ubwanwa, wambaye agapira k'amaboko magufi, wicaye ku ntebe inyuma ye hari ibyatsi, afite mu ntoki icupa ry'amazi yo kunywa, ari kuyanywa, nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi miremire wambaye umupira uciye amaboko wicaye ku ntebe imbere ye hari ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye iruhande rwe hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi ngororangingo mu gihe umuntu yahuye n'ikibazo ari mu myitozo ngororamubiri.

Igikoresho kifashishwa mu kubika imiti itanga ubuvuzi bw'ibanze, aho umuntu ashobora kuba yari ari mu myitozo ngororamubiri agahura n'ikibazo, harimo icy'imvune cyangwa gukomereka, agakoresha uyu muti akongera akagira ubuzima bwiza.

Icyapa kiriho abakinnyi batatu b'igitsina gabo bafite umupira, bambaye imyambaro yifashishwa mu gukina ndetse n'ingofero z'ubwirinzi. Icyapa kivuga ko mu gukina hagomba kwirindwa impanuka.

Icyumba gisize irangi ry'ibara ry'umweru gifite imiryango, kirimo umugabo wambaye imyambaro yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, aryamye ari gukora imyitozo ngororangingo, yifashishije ibikoresho byabugenewe.

Umuntu w'igitsina gore, wicaye ku ntebe yo mu nzu itangirwamo ubuvuzi, yambaye impuzankano yahariwe abaganga ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi, harimo uturindantoki ndetse n'agapfukamunwa, imbere ye hateretse mudasobwa.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye imyenda n'inkweto byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, imbere ye hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, avuga urubuga rukoreshwa n'ishyirahamwe ry'abasiganwa ku maguru mu Rwanda.

Ibikoresho byinshi by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze, nk'aho umuntu ashobora kuba yakomeretse cyangwa yagize imvune cyangwa ibindi bibazo by'ubuzima, iyo ibi bikoresho bikoreshejwe arafashwa akongera akamera neza.

Ikimera kizwi nka tangawizi gikasemo uduce, indi idakasemo kifashiswa mu buvuzi gakondo harimo indwara y’ ibicurane, inkorora ndetse no kurwanya umubyibuho ukabije.

Imiti myinshi y'ubwoko butandukanye, iri mu bikoresho by'amabara atandukanye, ikomoka ku bimera, yifashishwa n'abaganga gakondo, mu kuvura indwara z'uruhu ndetse n'izindi zitandukanye.

Ibikoresho byifashishwa mu kubika imiti birimo amavuta akomoka ku kimera gakondo cyitwa igikakarubamba. Aya mavuta yifashishwa mu buvuzi bw'igice cy'umubiri cyitwa umunwa, igihe umuntu yahuye n'uburwayi kuri icyo gice.

Ameza ateretseho ibikoresho birimo imiti ikomoka ku bimera yifashishwa n'abavuzi gakondo mu kuvura abantu bafite indwara zitandukanye, kuri ayo meza hariho n'ikindi gikoresho cyifashishwa mu gutunganya iyo miti.

Imiti myinshi cyane y'ubwoko butandukanye ikomoka ku bimera yifashishwa mu buvuzi gakondo aho abavuzi bafata ibimera bakabibyazamo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ikimera giteye mu butaka gifite amababi meza magufi y'ibara ry'icyatsi kibisi, cyifashishwa n'abavuzi gakondo mu gukora imiti ivura abantu bafite indwara zitandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Amacupa menshi ari hamwe, arimo imiti ikomoka ku bimera, yifashishwa n'abavuzi gakondo kugira ngo bavure abantu barwaye indwara zitandukanye, hariho ibyapa byerekana ibigize iyo miti ndetse n'uburyo ikoreshwa kugira ngo ivure abantu.

Icupa ry'ibara ry'umuhondo rifite umupfundikizo w'ibara ritukura ryanditseho amagambo. Ririho umuti ukomoka ku kimera cy'igikakarubamba wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Imbere y'iryo cupa hateretse ikirahure, ndetse hari n'ibibabi bikatakase ndetse n'ibidakatakase by'ikimera cy'igikakarubamba.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi kibisi ndetse cyejejeho n'utubuto cyifashishwa n'abavuzi gakondo mu gukora imiti ivura abantu barwaye indwara zitandukanye bityo bagakomeza kugira ubuzima bwiza.

Ishyamba ririmo ibimera bitandukanye, iby'amababi magufi ndetse n'iby'amababi maremare, ibyera bihagaze ndetse n'ibyera bikururuka harimo ibikoreshwa mu buvuzi gakondo.

Ameza ariho igitambaro ateretseho isahani n'igikombe by'ibara ry'umweru ndetse n'imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo, harimo ubuki ndetse n'imiti ikomoka ku bimera, harimo indimu ndetse n'ibindi.

Ikimera giteye mu butaka, gifite amababi y'icyatsi kibisi magufi ndetse cyezeho n'utubuto, cyifashishwa n'abavuzi gakondo mu gukora imiti ivura abantu barwaye indwara zitandukanye, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye ishati ihinnye amaboko, afite ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ikomoka ku bimera, iruhande rwe hari imiti yumye yitegura gushyira mu bikoresho byabugenewe biyibika ndetse inyuma ye hari imiti yamaze kubikwa muri ibyo bikoresho byabugenewe.

Umuti uri mu icupa rigizwe n'amabara y'umweru ndetse n'icyatsi kibisi, wanditseho amagambo. Wifashishwa mu kuvura amenyo ndetse no kuyasukura.

Ikimera cy'icyatsi kibisi cyifashishwa mu buvuzi, imbere yacyo hari igikoresho kizwi nk'isekuru, cyifashishwa mu gutunganya uwo muti, imbere y'icyo gikoresho hari umuti wamaze gutunganywa.

Ikimera kigufi, cy'ibara ry'icyatsi kibisi, giteye mu butaka, gifite amababi magufi, menshi, cyifashishwa mu gutanga ubuvuzi gakondo bw'indwara zitandukanye.

Igiti kirekire gifite amababi menshi, cyifashishwa n'abaganga gakondo, mu gukora imiti ivura indwara zigiye zitandukanye, iruhande rw'icyo giti hateye ubundi bwoko bw'ibiti, ndetse n'ibyatsi butandukanye.

Imiti myinshi cyane y'ubwoko butandukanye, iri mu macupa maremare ndetse n'amagufi y'amabara atandukanye, harimo umutuku, umweru, umuhondo, ndetse n'icyatsi kibisi. Iyi miti yifashishwa mu buvuzi gakondo bw'indwara zitandukanye, kuko ikomoka ku bimera harimo nk'igikakarubamba.

Abantu benshi bitabiriye imurikagurisha. Imbere yabo hari imiti gakondo iteretse ku meza iri mu ducupa yifashishwa mu buvuzi gakondo bw’indwara zitandukanye.

Ikimera giteye mu butaka gifite amababi menshi magufi y'ibara ry'icyatsi kibisi, gikorwamo imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi gakondo mu kuvura indwara.

Ikimera giteye mu butaka, gifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'amababi menshi cyane magufi. Iki kimera cyifashishwa n'abavuzi gakondo mu gukora imiti ivura indwara zitandukanye.

Amashusho ane y'ubwoko butandukanye, ariho abantu ndetse n'ibimera byifashishwa n'abavuzi gakondo, aho babikoramo imiti y'ubwoko butandukanye bahereza abantu barwaye, bayinywa bagakira indwara bafite, bakagira ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gore wirabura wambaye igitambaro k'ibara ry'umweru, imbere ye hari ikimera gifite ibara ry'icyatsi kibisi n'amababi magufi, kifashishwa n'abavuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye.

Icyapa kiriho imiti myinshi y'ubwoko butandukanye ipfunyitse mu bintu by'amabara y'umuhondo ndetse n'umweru ikomoka ku bimera byifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse kuri icyo cyapa hariho n'ibindi bimera byifashishwa mu buvuzi gakondo.

Amacupa abiri ateretse ku meza, rimwe rigufi ry'ibara ry'umweru, ndetse n'irindi rirerire, rifite umupfundikizo w'umutuku, ryanditseho amagambo, ndetse rishushanyijeho ikimera cyitwa igikakarubamba, harimo imiti yifashishwa mu buvuzi butandukanye, iruhande rwayo handitse amagambo.

Ikimera cy'ibara ry'icyatsi kibisi, gifite amababi magufi, menshi, giteye mu butaka, cyifashishwa n'abavuzi gakondo mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ahantu hateretse ibikoresho byinshi bitandukanye harimo amacupa yifashishwa mu kubika imiti gakondo ndetse n'ibindi bikoresho bikoze mu ibumba bitandukanye.

Ibikoresho bitandukanye bibitsemo imiti ikomoka ku bimera, byifashishwa n'abavuzi gakondo, mu kuvura abarwayi barwaye indwara zitandukanye, bakagira ubuzima bwiza. Iyo bayinyweye bagubwa neza.

Ishusho iriho ikimera gifite amababi maremare y'ibara ry'icyatsi kibisi cyifashishwa n'abaganga gakondo, mu gukora imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye abantu baba barwaye.

Icyapa kiriho imiti myinshi y'ubwoko butandukanye ipfunyitse mu buryo butandukanye, ikomoka ku bimera yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo indwara z'uruhu ndetse n'izindi.

Amacupa menshi asa y'ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umweru ashushanyijeho ikimera cyitwa igikakarubamba ndetse yanditseho amagambo, aya macupa arimo umuti wifashishwa mu buvuzi bw'amenyo.

Icupa rirerire ryo mu ibara ry'umutuku, ririho icyapa cyo mu ibara ry'umweru, ryanditseho amagambo ndetse rishushanyijeho imbuto ndetse n'ikimera k'igikakarubamba, uwo muti wifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ikiganza cy'umuntu, gifashe icupa ry'ibara ry'umweru, ryanditseho amagambo, ndetse ririho ikimera cyitwa igikakarubamba, wifashishwa n'abavuzi gakondo mu kuvura abantu bafite ibibazo bitandukanye, harimo iby'uruhu n'ibindi.

Ibimera bitandatu by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu buvuzi gakondo, aho abavuzi gakondo babifata bakabikoramo imiti bifashisha mu guha abantu bafite uburwayi butandukanye.

Imiti myinshi y'ubwoko butandukanye ikomoka ku bimera, iruhande rwayo hari igikoresho cyifashishwa mu kuyitunganya. Iyi miti ikoreshwa n'abaganga bavura abantu bafite uburwayi butandukanye.

Imiti icyenda ikomoka mu bimera gakondo harimo nk'ikimera k'ihikakarubamba, ipfunyitse mu bintu bitandukanye byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo nk'indwara z'uruhu.

Amacupa menshi asa y'ibara ry'umuhondo afite umupfundikizo w'ibara ry'ikigina yanditseho amagambo ashushanyijeho ikimera cy'igikakarubamba, arimo umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ibimera byinshi by'ubwoko butandukanye biri hamwe, ibi bimera byifashishwa n'abavuzi gakondo mu gukora imiti yo kuvura abantu indwara zitandukanye harimo iz'uruhu, izo mu nda ndetse n'izindi.

Ibimera byinshi by'ubwoko butandukanye biteye mu butaka, byifashishwa n'abavuzi gakondo mu gukora imiti, bakayiha abantu bafite indwara zitandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Imiti myinshi y'ubwoko butandukanye, ipfunyitse mu bintu by'amabara atandukanye. Iyo miti yifashishwa n'abavuzi gakondo mu guha ubuvuzi abantu batandukanye, barwaye indwara z'umubiri.

Ibimera by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo, iruhande rwabyo hari igikoresho gikoreshwa mu gutunganya iyo miti ndetse inyuma yabyo hari umuti wamaze gutunganywa.

Icyatsi cy'amababi magufi menshi, kera gihagaze, giteye mu butaka, kifashishwa mu buvuzi gakondo, mu kuvura indwara zitandukanye, abantu bagenda bahura nazo.

Ahantu hateye ibimera byinshi by'ubwoko bumwe bifite ibara ry'icyatsi kibisi n'amababi magufi menshi. Ibi bimera byifashishwa n'abavuzi gakondo mu gukora imiti ivura indwara zitandukanye.

Ikimera gifite amababi menshi y'ibara ry'icyatsi kibisi magufi kifashishwa mu gukora imiti yifashishwa n'abavuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye harimo inkorora ndetse n'ibicurane.

Imiti itatu y'ubwoko butandukanye, ipfunyitse mu bintu bitandukanye, ikomoka ku bimera, harimo nk'igikakarubamba ndetse n'ibindi byifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ibiganza by'umuntu bifashe agapfunyika k'ibara ry'umweru karimo umuti ukomoka ku bimera wifashishwa n'abavuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye umupira uciye amaboko w'ibara ry'umweru, ahagaze mu ishyamba ririmo ibiti byinshi by'ubwoko butandukanye ndetse n'ibimera byifashishwa n'abavuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye abantu barwaye.

Amacupa y'amabara atandukanye yanditseho amagambo ndetse ashushanyijeho ikimera cy'ibara ry'icyatsi kibisi cyitwa igikakarubamba, harimo imiti yifashishwa n'abavuzi gakondo kugira ngo bafashe abantu barwaye.

Imiti myinshi y'ubwoko butandukanye, iteretse ku musambi, ikomoka mu bimera, hari umuntu ufite igikoresho ari kuyitunganya, yifashishwa n'abavuzi gakondo kugira ngo babashe kuvura abantu barwaye indwara zitandukanye.

Ibikoresho byinshi bitandukanye birimo umuti ukomoka ku kimera cy'igikakarubamba, wifashishwa n'abavuzi gakondo mu kuvura abantu barwaye indwara zitandukanye harimo iz'uruhu ndetse n'izo ku munwa n'izindi.

Inzu ihumbikwamo ibimera. Hateyemo ibimera by'ibara ry'icyatsi kibisi byifashishwa n'abaganga gakondo mu gukora imiti bifashisha bavura abantu kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ibimera byinshi by'ibara ry'icyatsi kibisi, byifashishwa n'abavuzi gakondo mu gukora imiti ivura abantu indwara zitandukanye, iyo miti iyo umuntu ayinyweye agira ubuzima bwiza buzira indwara.

Icyapa kinini kiriho imiti myinshi cyane y'ubwoko butandukanye, ikomoka ku bimera byifashishwa mu buvuzi gakondo bw'indwara zitandukanye, harimo iz' amenyo ndetse n' umubyibuho ukabije n'izindi zitandukanye.

Imiti y'ubwoko butandukanye y'icyatsi kibisi yifashishwa n'abavuzi gakondo. Aho bayitegura bakayikoramo imiti, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Umuntu yayinywa akagira ubuzima bwiza, agakira izo ndwara yari arwaye.

Umuti ubitse mu gikoresho cyabugenewe ukomoka ku bimera wifashishwa n'abavuzi gakondo mu kuvura indwara y'umubyibuho ukabije, hariho amagambo ndetse n'umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi miremire.

Ibimera byifashishwa mu gukora imiti gakondo, ivura abantu indwara zitandukanye bakagira ubuzima bwiza, iruhande rwayo hari igikoresho cyifashishwa mu kuyitunganya, kugira ngo babashe kubona imiti ya nyayo.

Amacupa abiri ateretse ku meza, arimo imiti ikomoka ku bimera. Icupa rimwe ririmo umuti ukomoka ku rubuto rw'umwembe, irindi cupa ririmo umuti ukomoka mu kimera cy'igikakarubamba. Imbere y'ayo macupa hari imbuto z'imyembe zikase.

Ikimera giteye mu butaka cy'ibara ry'icyatsi kibisi, cyera gihagaze, gifite amababi menshi magufi, cyifashishwa mu gukora imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Amashusho menshi y'ubwoko butandukanye, arimo ahari utubati ducururizwamo imiti ndetse ahandi hari ibimera biteretse ku meza. Ibyo byose byifashishwa n'abavuzi gakondo mu kuvura abantu barwaye.

Ahantu hacururizwa imiti myinshi cyane y'ubwoko butandukanye, ikomoka ku bimera yifashishwa n'abavuzi gakondo, abantu batandukanye bafite uburwayi baza muri iyi nzu, bakagura imiti ijyanye n'indwara barwaye, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Ibimera byinshi by'ubwoko butandukanye, biteye mu butaka bifite ibara ry'icyatsi kibisi n'amababi magufi menshi, byifashishwa n'abavuzi gakondo, aho bakoramo imiti ivura indwara zitandukanye, bakayiha abantu bakagira ubuzima bwiza.

Amacupa abiri asa afite ibara ry'ikigina n'umuhondo, yanditseho amagambo, anashushanyijeho ikimera cyitwa igikakarubamba arimo imiti, iruhande rwaho hari ikirahure kirimo umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo.

Imiti ibitse mu bikoresho byabugenewe ikomoka ku bimera, iruhande rwayo hari abantu batandukanye barwaye indwara zivurwa n'iyo miti ikomoka ku bimera.

Abantu benshi b'igitsina gabo n'igitsina gore bari ahantu habereye imurikagurisha imbere yabo hari imiti myinshi y'ubwoko butandukanye iteretse ku meza yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Icyapa kiriho ibimera by'ibara ry'icyatsi kibisi, ndetse n'amagambo atangaza ko habaye umunsi mukuru muri afurika w'imiti gakondo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri naka kabiri.

Icupa ritoya rifiteho umupfundikizo ry'ibara ry'umweru, ririho amagambo yanditse mu mabara atandukanye, ririmo umuti wifashishwa mu gukora ubuvuzi gakondo.

Ikimera cyiza kigizwe n'amabara y'umweru ndetse n'icyatsi kibisi, giteye mu butaka. Cyifashishwa n'abavuzi gakondo mu gukora imiti bavurisha abantu indwara zitandukanye, bakagira ubuzima bwiza.

Amacupa menshi y'amabara y'icyatsi ndetse n'ubururu yanditseho amagambo arimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura uburibwe harimo ubwo mu mugongo, ubwo mu nda, ubwo mu mavi ndetse n'ahandi.

Icyatsi cy'amababi magufi menshi, cyera gihagaze cyitwa umuravumba cyifashishwa mu buvuzi gakondo, mu kuvura indwara zitandukanye harimo ibicurane ndetse n'inkorora.

Imiti myinshi y'ubwoko butandukanye ikomoka ku bimera, yifashishwa n'abavuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye. Harimo iz'umubyibuho ukabije, indwara z'uruhu, iz'amenyo ndetse n'izindi zitandukanye.

Icupa ririmo umuti ukomoka ku kimera cyitwa umuravumba wifashishwa n'abavuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye abantu bahura nazo, harimo indwara z'inkorora, ibicurane ndetse n'izindi bikabafasha kugira ubuzima bwiza.

Ameza ateretseho amacupa arimo imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo ikomoka ku bimera, aho ihabwa abantu barwaye indwara zitandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ibimera byinshi by'ubwoko butandukanye, biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, biteye mu butaka, byifashishwa n'abavuzi gakondo, aho bakoramo imiti y'ubwoko butandukanye, umuntu akaza kuyigura afite indwara, yayinywa agakira.

Ikimera giteye mu butaka cy'amababi meza menshi y'ibara ry'icyatsi kibisi, cyifashishwa n'abavuzi gakondo mu gukora imiti ivura abarwayi indwara zitandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ibihingwa by'ubwoko butandukanye, harimo ibifite amababi ndetse n'ibitayafite, byifashishwa n'abavuzi gakondo, mu gukora imiti ikomoka ku bimera, bayiha abantu bafite ibibazo bitandukanye by'uburwayi kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Amacupa abiri atandukanye afite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umweru, ashushanyijeho ikimera cyitwa igikakarubamba ndetse yanditseho amagambo, aya macupa arimo umuti ukomoka ku bimera wifashishwa mu buvuzi gakondo ku ndwara y'amenyo.

Abantu babiri umwe w'igitsina gabo ufite imvi mu mutwe ari kumwe n'undi w'igitsina gore wambaye igitambaro mu mutwe, bari ahantu mu ishyamba hari ibiti ndetse n'ibimera bitandukanye, harimo na bimwe byifashishwa mu buvuzi gakondo.

Iduka riteretsemo akabati karimo imiti y'ubwoko bwinshi butandukanye iri mu macupa. Yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo izo mu nda, iz'ubuhumekero ndetse n'izindi.